ubwishingizi butandukanye bwagiye bushyiriho uburyo bwiza, aho bamamaza ubwishingizi bwabo bakora uburyo bw'imyidagaduro nk'amasiganwa, kugira ngo basusurutse abanyarwanda bashobore kuba bagana ubwo bwishingizi bwabo babukoreshe nk'ubwishingizi bwiza kandi bwizewe.

Mu masaha ya ninjoro, yaba urubyiruko cyangwa abantu bakuru, usangana umubare mwinci wabo, uri mu tubari turi mu duce dutandukanye, aho bajya bakeneye kuruhuka, bakidagadura, kandi bagasangira.

Mu tubari twinshi usanga hari ubwoko bw' ibirahure butandukanye yaba ibinini cyangwa ibitoya ibigufi cyangwa ibirebire bino bakaba babiha abakiriya babo bakaba babinyweramo ibinyobwa baba batse bitandukanye nk' uburyo bwiza bwo gutanga serivise ku bakiriya.

Ahantu henshi wajya uhasanga udupapuro yaba amaresitora, cyangwa ahandi hatandukanye cyangwa ibitabo biba birimo ubwoko bw'ibicuruzwa bafite, n'ibiciro byabyo ukaba wahitamo ibyo ushaka.

Umubare w'abantu benshi bakunze gusohokera mu tubari aho usanga buri wese yaka ikinyobwa yifuza bitewe n'ikimunyuze, basangira bishimye igihe cyo kuruhuka cyangwa igihe basabana.

Ubu ni uburyo bwiza bwo kwamamaza bukorwa n'amaresitora atandukanye aho usanga ku mbugankoranyambaga cyangwa aho bakoresha bamamaza usanga ubwoko bw'ibiribwa bafite cyangwa bacuruza, n'ibiciro byayo bene bikaba biafasha abakiriya kubona ibibanyuze bitewe n'igiciro byabyo.

Ububari bwinshi usangamo ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye, yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, aho usanga bikorwa mu nganda zitandukanye, kandi ushobora kuhasanga amazi n'imitobe n'ibindi byose waba wifuza, kandi bakunze kuba batunganya n'ibiribwa, ushobora gutumiza ibiribwa waba wifuza bakabigutunganyiriza, bakaba babikugezaho aho wicaye mu kabari.

Aha handitseho ubwoko bw'ibiribwa cyangwa ibinyobwa bicururizwa muri ako kabari yaba imivinyo n'ibindi binyobwa bitandukanye, ubwoko bwabyo n'ibiciro byabyo, bino bigenerwa abakiriya babagana kuba bahitamo ibinyobwa bashaka cyangwa ibiribwa.

Amaduka menshi usanga hari ibibahu byandikishijweho amacaki, aho usanga ibicuruzwa byabo n'amasaha bakoreraho, ubwoko bw'ibicuruzwa bafite yaba ibinyobwa cyangwa ibiribwa n'ibiciro byabyo, kugirango bifashe abakiriya babaganaho kubona ibiciro mbere y'uko bahagera bataza guhendwa kandi batabiteguye.

Akenshi mu masaha ya nijoro ukunze gusanga abantu mu tubari dutandukanye yaba mu mugi wa Kigali cyangwa no mu Ntara aho baba basohotse mu gihe cyo kuruhuka bafata amafunguro n'ibinyobwa bitandukanye.

Ku bubari bwinshi cyangwa ahacururizwa ibinyobwa, uhasanga ibyapa by'ibinyobwa bitandukanye, cyane cyane ibikunze gutegurwa n'uruganda rwa Buralirwa rwo mu gihugu cyacu cyangwa ugasangaho ibindi binyobwa byo mu zindi nganda zitandukanye.

Shooters, ni akabari kari mu mujyi wa Kigali gakunze gusohokerwamo n'abantu benshi mu gihe cy'ibiruhuko nko kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru, aho usanga hasohokeye abantu benshi baka ibinyobwa bitandukanye n'ibiribwa by'ubwoko butandukanye bitewe n'ibyo bifuza.

Yaba abanyamahanga cyangwa abanyarwanda usanga bakunze gusohookera mu tubari mu masaha ya ninjoro, bafata ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitandukanye mu gihe cyo kuruhuka cyangwa bitegura ejo kuzajya mu kabari bameze neza.

Mu bubari bwinshi usanga harimo ubwoko bw'ibinyobwa butandukanye, kandi n'uburyo bwinshi kandi bworoshye bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho ushobora kwaka ikinyobwa wifuza cyangwa ibiribwa, ukaba wakwishyura ukoresheje telefone yawe ngendanwa, mu buryo bwiza kandi bworoshye.

Utubari twinshi dukunze gukora mu masaha ya nijoro, aho usanga haka amatara meza nk'uko abakiriya babyifuza; usanga hari abakiriya benshi mu masaha ya nijoro, kandi haba hari ibinyobwa by'ubwoko butandukanye; icyo waba wifuza cyose urakibona.

Ububari bwinshi usanga mu masaaha ya nijoro bari kwerekana umupira w'amaguru ufasha abantu mu kwidagadura kandi umubare munini w'abantu bahaganye usanga bakeneye kureba umupila bitewe n'uwabaye aho usanga bafite abakiriya benshi baje kwirebera iyo myidagaduro kandi bafata n'ibinyobwa bitandukanye.

Virunga ni ikinyobwa gitegurwa n'uruganda ruzwi nka Skol rukorera mu gihugu, aho rufite ibinyobwa bitandukanye. Yaba amazi ya Virunga, Virunga misiti, gorudi, cyangwa siliva, ibyo binyobwa byose urabibona bitunganywa n'urwo ruganda rwa Skol.

Hari amaduka acuruza ibinyobwa bitandukanye, yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, biba biri mu macupa ari mu ngeno zitandukanye. Aho kandi bakunze kuba baranguza ibyo binyobwa ku babikeye babicuruza.

Ahantu henshi hacururizwa ibinyobwa uhasanga n'ibiribwa bitandukanye bitewe n'ibyo waba wifuza, urababwira bakabigutunganyiriza bakaba bakabigusangisha aho wicaye nk'uko ubyifuza.

Mu masaha ya nijoro usanga umubare w'abantu benshi bakunze gusohokera mu tubari n'inshuti zabo bagamije gusabana, bakishimana, bakaba bakwaka ibinyobwa bitandukanye kandi bakaba bafungura ubwoko bw'ibiribwa byose baba bifuza ku giciro gitoya.

Ahacuruzwa ibiribwa cyangwa ibindi bintu bitandukanye bijyanye n'ibyo kurya, uhasanga uburyo bwiza kandi bworoshye, aho ushobora kureba ubwoko bw'ibiribwa bafite n'ibiciro byabyo, ukaba wahitamo ibyo wifuza.

Usanga utubari dufite abakiriya benshi mu masaaha ya ninjoro kuko aribwo baba bavuye mu kazi cyangwa mu gihe k'ibiruhuko baje kuba basabana bareba n'imyidagaduro itandukanye.

Ubu bupapuro ubusamga mu maduka atandukanye aho usangaho ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye bitewe n'ibyo bafite yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa aka kakaba kagenerwa umukiriya wese ubagannye akaba yareba ibicuruzwa bafite n'ibiciro byabyo akaba yagura icyo yifuza.

Mu bubari bwinshi buri mu gihugu, cyane cyane mu mugi wa Kigali, usanga bacuruza ibinyobwa byinshi bitandukanye, mu bwoko bunyuranye, yaba ibikorerwa mu guhugu cyangwa hanze yabyo, ku buryo igihe ubagannye bashobora kukubonera ikinyobwa cyose waba wifuza.

Ikizakubwira ahantu hari utubari uzahasanga ibyapa byamamaza ibinyobwa bitandukanye ku miryango y'utwo tubari, mu duce twinshi dutandukanye cyane cyane Mugisimenti hazwi nk'umudugudu w'ubucuruzi usanga ububari bwinshi bufite ibyo byapa byamamaza ibyinyobwa bitandukanye ku miryango y'utwo tubari.

Hari uburyo bworoshye bwashyizweho aho ushobora kwishyura ukoresheje ikarita yawe ya banki, yaba mu kabari, mu ma resitora igihe wishyura, ibyo wahawe, bakaba baguha uburyo bwo kwishyura kuri konti yabo ya banki ukoresheje iyawe ukaba wabishyura amafaranga yagenwe yo kwishyura mu buryo bwiza bworoshye.

Utubari twinshi usanga bacuruzamo ubwoko bw'ibinyobwa bwinshi butandukanye, aho waba uri hose ukagana mu kabari ako ari ko kose, ahenshi ushobora kuhasanga ikinyobwa icyo ari cyo cyose.

Utubari twinshi dutandukanye usangamo ubwoko bw'intebe, n'amameza butanduknye aho bashobora kuba bakwakiriye abakiriya babo, igihe ugikeneye ibinyobwa cyangwa ibiribwa bitandukanye ushobora kuba uhicaye ukaba wabitumiza bikaba byakugeraho aho wicaye.

Usanga ibyapa byinshi biri mu mujyi wa Kigali byamamaza ibinyobwa bitandukanye yaba ibitegurwa n'uruganda rwa Skol cy'ubwoko butandukanye cyane cyane ikizwi nka Skol Malt gikunzwe n'abantu benshi ugisanga ku byapa byinshi by'utubari.

Uruganda rutegura ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha rwa Sikolo, rwasohoye ikinyobwa gishyashya cya Sikolo malite, aho abantu benshi bakishimiye bagikoresha mu birori bitandukanye, aho baba bari barikwishimira hamwe n'inshuti zabo.

Ikizakubwira ahari akabari cyangwa ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye, uhasanga icyapa cyamamaza ikinyobwa gitandukanye, aho usanga ari ibinyobwa byo mu nganda zimwe na zimwe. icyazakubwira uzasanga ku muryango w'aho babicururiza hari icyo cyapa

Utubari twinshi tuba dukorera ahantu hagari, aho bibafasha kwakira umubare munini w'abakiliya babagana, aho usanga hari abantu benshi kandi bafite aho bicara, hakaba bahana ibyo bakeneye mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Mu tubari usanga hari ubwoko bw'ibinyobwa byinshi bitandukanye, aho usanga bakira abantu benshi kandi buri wese akabona icyo yifuza, bitewe n'icyo akeneye bakaba bakimugezaho. Niyo mpamvu baba bafite ibinyobwa bitandukanye.

Utu dupapuro tuba turi ubwoko bw'ibicuruzwa bicururizwa ahantu hatandukanye yaba ibinyobwa cyangwa ibiribwa mu tubari cyangwa amaresitora aho ushobora kutureberaho ibiribwa wifuza kuko haba hariho ibiribwa by'ubwoko butandukanye bafite n'ibiciro byabyo.

Ububari bwinshi buba bukoze mu buryo buteye ubwuzu, bubafasha gukurura abakiriya, aho usanga buteguye neza kandi hari ibinyobwa bitandukanye.

Aho wasohokera mu kabari ushobora kuhasanga uwagufasha mu gutegura ikinyobwa waba wifuza aho umubwira ubwoko bw'ibinyobwa ashobora kukuvangira akaba yagukorera ikivango wifuza k'ibinyobwa nk'uko ubishaka.

Ubu ni ubupapuro waba buri mu maresitora atandukanye cyangwa utubari, aho usangaho ubwoko bw'ibicuruzwa bafite n'ibiciro byabyo, ukaba wareba ko ibyo ukene bihari, ukaba wabyaka nkuko ubikeneye.

Aho wasohokera hose ukihagera abakozi babo bahita bakugezaho agatabo karimo ibicuruzwa byabo, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibiciro byabyo, bikaba byagufasha guhitamo ibiribwa wifuza cyangwa ibinyobwa ku giciro kikunogeye.

Mu maresitora menshi azwiho gutunganya ibiribwa, usanga hari udutabo tugenerwa abakiriya babo, tuba turimo ubwoko bw'ibiribwa bafite cyangwa ibinyobwa, bikaba bifasha abakiriya babo kuba bareba ibyo bakeneye, niba biriho n'ibiciro byabyo, bakaba babigura bazi neza uko bigura.

Aka kabari kamamaza ikinyobwa cya henikeni kuko ibirimo byinshi biriho ibintu bya henikeni yaba ibyapa birimo n'ibindi bitandukanye aho ushobora kuhasanga n'ibinyobwa byose waba wifuza.

Mu Rwanda hari ikinyobwa kizwi nka amusiteri gitegurwa n'uruganda rwa Buralirwa, aho usanga gikunzwe n'abantu benshi, yaba abagabo cyangwa abagore, iki ni ikinyobwa gikunzwe n'abantu benshi kiri mu bwoko bw'ibinyobwa bigizwe na byeri.

Ibyapa byamamaza utubari twinshi usangaho ubwoko bw'ibinyobwa bikorerwa munganda zitandukanye nk'uburyo bwiza bwo kwamamaza, aho ushobora kuhasanga iby'uruganda rwa SKOL bizwi nka VIRUNGA cyangwa ibindi byinshi nk'uburyo bwiza bwo kumenya ahari akabari uhasanga icyo cyapa cyamamaza ikinyobwa cy'ubwoko bitandukanye.

Hashyizweho uburyo bwiza aho ushobora kwishura usibye kuba wakoresha terefone yawe ngendanwa igihe ukoresha umuyoboro wa emutiyene cyangwa eyateri. bashyizeho n'uburyo bwiza kandi bworoshye aho ushobora kubishyura ukoresheje ikarita yawe ya banki ukaba wakwishyura amafaranga wasabwe mu gihe uhawe serivise zitandukanye cyangwa waguze ibicuruzwa bitandukanye.

Ikinyobwa kizwi nka amasiteri gitegurwa n'uruganda rwa bularirwa gikunzwe n'umubare munini mu gihugu cy' u Rwanda, aho usanga bagana mu tubari bakeneye icyo kinyobwa kuko ngo kiryoha kandi bakaba bakifuza ku giciro cyiza nk'uko kigura mu maduka menshi atandukanye cyangwa ububari.

Ububari bwinshi usanga buteguye mu buryo buteye ubwuzu aho usangamo amatara meza yaka amabara atandukanye aho ushobora gusanga serivise zose wifuza kandi uhasanga ubwoko bw'ibinyobwa butandukanye bitewe nicyo wifuza ukaba wakihasanga.

Uruganda rwa sikolo rwashyizeho uburyo bwo kwamamaza ibinyobwa bya bo, aho usanga kubikuta by'ububari butandukanye cyangwa amaduka acuruza ibintu binyuranye, usanga hari amarange yamamaza urwo ruganda n'ubwoko bwibinyobwa batunganye nkuburyo bwo gushaka abakiliya b'ibinyobwa byabo.

Amasaha ya ninjoro abantu bakunze gusohokera mu tubari, aho bagenda bagasabana, bagasangira uko basohokanye, bakaba bakwishima kandi bahasanga n'ibiribwa bakaba bafungura nk'uko babyifuza.

Abantu benshi bakunze kujya kurebera umupira w'amaguru mu tubari, aho yerekanwa ku nsakazamashusho nini, usanga hari abantu benshi baje kureba imipira, cyane cyane usanga mu gihe cy'imipira aribwo utubari dufite abakiriya ben...

Ushobora kuba wasanga mu bubari bwinshi ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye, aho bashobora no kugutunganyiriza ikinyobwa gikorwa mu mbuto z'ubwoko butandukanye butewe n'uko icyo kinyobwa gikozwe. Aho ushobora kuba wabaka ibyo ukeneye bakabigutunganyiriza mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Ububari bwinshi usanga hariho ibyapa byamamaza ibinyobwa, yaba ibitunganwa n'uruganda rwa Brarirwa cyangwa ibitunganwa n'uruganda rwa Skol, cyangwa ibinyobwa bitandukanye bitegurwa mubindi bihugu bituruka mu bihugu bitandukanye. Aho usanga biri ku marembo y'ubwo bubari nk'uburyo bwiza bwo kwamamaza ibyo binyobwa.

Utubari twinshi dukunze gukora mu masaha ya nijoro, aho usanga abakiriya babaye benshi cyane cyane mu gihe k'ibiruhuko usanga hari abakiriya benshi bifuza ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye bitwe n'ikikunyuze ukaba watumiza ikinyobwa wifuza.

Mu tubari haba harimo utubati bashyiramo ibinyobwa bitandukanye, aho usanga bimanitsemo, biri ku murongo, ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye byose, ubisanga muri utwo tubati nk'uburyo bwiza bwo kwereka abakiriya ibinyobwa bafite.

Umubare w'abantu benshi bakora mu tubari usanga ari igitsina gore kuko ngo bino bibafasha gukurura abakiriya benshi, kuko ngo batanga serivise nziza nk'uko abakiriya benshi babivuga.

Utubari twinshi tuzwiho gucuruza ibinyobwa bitandukanye, usanga hakoreramo na resitora, aho ubwira umukozi waho bakaba bagutunganyiriza ibiribwa waba wifuza bakabigusangisha aho wicaye.

Hari inzobere mugutunganya ibinyobwa usanga zikorera mububari bwinshi butandukanye mugihugu aho ashobora kuba yagutunganyiriza ikinyobwa wifuza akuvangiye ibinyobwa byose wamusabye hakaba havamo ikinyobwa kimwe kikunyuze nkuko ucyifuza.

Abantu benshi bakunze gusohokera mu tubari mu masaha ya ninjoro, kuko aribwo usanga abantu benshi mu tubari, banywa, baganira, bareba ibyerekana cyangwa basabana bahuje urugwiro kandi bishimye.

Mu tubari twinshi usanga hari utubati twagenewe kumanikamo ibinyobwa bitandukanye, yaba ibisembuye n'ibidasembuye, bino bikaba bifasha utwo utubari kuba bwakurura abakiliya, aho umukiliya iyo ahageze ahabona ubwoko bw'ibinyobwa bacuruza akaba yakwifuza kuguramo kimwe mu byo yifuza.

Aka ni akapa kaba mu maduka atandukanye ushobora kuba wafotora ugasangaho ubwoko bw'ibicuruzwa bafite serivise batanga, ubwoko bw'ibinyobwa cyangwa ibiribwa n'ibiciro byabyo, amasaha bakorera n'ubundi butumwa buhagije, kuri resitora cyangwa ahantu henshi bashobora kwakira ibiribwa n'ibindi byose wifuza.

Mu bubari bwinshi usanga hacuruzwa ibinyobwa bikunzwe n'abantu benshi, yaba mitsingi, amusiteri bwizwi nk'ibinyobwa bitunganwa n'uruganda rwa Buralirwa cyangwa sikolo n'ibindi binyobwa bitegurwa n'uruganda rwa sikolo, ibi ni ibinyobwa bikunzwe n'abanyarwanda benshi.

Igisiment ni ahantu usanga ububari bwinshi, haherereye mu Karere ka Remera, aho ushobora gusanga imiryango myinshi iherereye muri ako gace, hari irimo utubari, aho ushobora gusanga ibinyobwa bitandukanye ku giciro cyiza, harimo ububari bwinshi butandukanye nk'akazwi nka Bahamas gaherereye muri ako gace.

Ububari bwinshi buherereye mu mujyi wa Kigali bukunze kugira abakiriya mu masaha ya nijoro, aho usanga huzuyemo abantu benshi basohokeye bafungura banywa kandi bishimana basangira ibyo babakirije uburyo bwiza bwo kuruhuka biteguye kuzajya ku kazi bameze neza cyangwa batakomeza ibiruhuko byabo neza.

Hari ibyapa mu mugi wa Kigali byamamaza ibinyobwa bitandukanye, aho usanga hariho ibinyobwa bikorerwa mu Rwanda cyangwa ibikorerwa hanze y'u Rwanda, bikunze kunyobwa n'abatari bake mu gihugu cyacu.

Ibi bipapuro cyangwa ibitabo, biba biri mu maduka atandukanye aho usanga hariho ibicuruzwa bafite, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibiciro byabyo, bino bigufasha guhitamo ibyo ushaka.

Aho wasohokera hose yaba mu maresitora aho bacuruza ikawa cyangwa ibindi bintu byinshi bitandukanye, uhasanga udupapuro twagenewe abakiriya cyangwa udutabo tw'ibiribwa bafite n'ibiciro byabyo ukaba wareba ikikunyuze ukaba wakigura.

Ububari bwinshi mu gitondo cyangwa ku manywa usanga ibinyobwa byashize. Mu gihe cy'ibiruhuko cyangwa akazi katangiye, umunsi washize ari ibiruhuko. Kuko baba bakiriye abantu benshi ibinyobwa bikaba biba byashizemo.

Mu masaha ya ninjoro bakunze kwerekana imipira y'amaguru to mu mahanga mu tubari dutandukanye, aho usanga abakiriya benshi babagana muri icyo gihe, ari ababa bakeneye kureba iyo myidagaduro y'imipira y'amaguru.

Ubu ntibikigoye kuko aho wagana hose hatangirwa serivise yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa bizwi nk'amaresitora cyangwa utubari, hari uburyo bworoshye ushobora kubona ibicuruzwa byabo n'ibiciro byabyo, bityo bikaba byagufasha kuba wamenya ibyo uhitamo ku giciro kiza kandi kikunogeye.

Aho wasohokera hose mu tubari twinshi dutandukanye, uhasanga udutabo turi mu bwoko bw'ibinyobwa bategura n'ibiciro byabyo bityo, bikaba byagufasha guhitamo ikinyobwa kikunyuze, kugiciro kiza nk'uko ubyifuza.

Ububari bwinshi usangayo ibyapa byamamaza ibinyobwa bitandukanye, yaba amusiteli izwi nk'itunganywa n'uruganda rwa buralirwa, cyangwa ibindi binyobwa bitandukanye ikizakubwira ahari akabari, usahasanga icyapa icyo ari cyo cyose cyamamaza ibinyobwa.

Ububari bwinshi usanga bufite abakozi benshi cyane cyane abigitsina gore aho usanga batanga serivise kubakiriya babaganye yaba abifuza ibinyobwa, ibiribwa n'ibindi byinshi bikaba byabageraho m'uburyo bwihuse.

Abantu benshi bacuruza utubari, ntabwo bacuruza ibinyobwa bisembuye gusa, kuko usanga bafite n'ibindi binyobwa, bitewe n'icyo umukiriya yifuje, bakaba bamwakiriza ibyo akeneye.

Hari udutabo cyangwa udupapuro twagenywe mu maresitora atandukanye cyangwa utubari, aho usanga hari ubwoko bw'ibicuruzwa bafite yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibiciro byabyo bitewe n'ubwoko bw'ikiribwa cyangwa ikinyobwa.

Abantu benshi cyane cyane abanyamahanga, baturuka mu bihugu bitandukanye bari mu gihugu cy'u Rwanda, usanga basohokeye mu tubari mu duce dutandukanye mu gihugu, aho bajyayo bakeneye gusangira, baruhuka, bishimana, banarya.

Amaduka menshi ushobora kuyasangamo ibintu bitandukanye aho wasanga imyambaro yayo imipira amakanzu n'ibindi byinshi bijyanye n'imyambaro, hakunze kuba hari abacuruzi kandi mu maduka ateye imbere uhasanga uburyo bwiza bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Akagera mato ni uruganda ruzwi mu gucuruza ibinyabiziga bitewe n'ibyo wifuza icyo ari cyo cyose wakisanga ku giciro cyiza kandi uru ruganda rukorera mu gihugu cy' u Rwanda imbere mu gihugu igihe wifuza ikinyabiziga cy'ubwoko ubwo aribwo bwose ushobora kubagana bakaba bakiguha ku giciro cyiza.

Uruganda rw'inyange rufite amakusanyirizo mu duce dutandukanye aho ushobora gusanga amata y'umwimerere yaba inshyushyu cyangwa ikivuguto, n'ibindi bitunganywa n'urwo ruganda ibyo ari byo byose yaba imitobe cyangwa ibiribwa bitandukanye.

Irindazi ni kimwe mu biribwa bitunganywa mu mafarini gicururizwa mu maduka menshi cyane cyane ahacururizwa amata gikunzwe n'abanyarwanda benshi kuko gicuruzwa ku giciro gitoya kinogeye buri wese ku buryo buri wese ugikeneye yakigura.

Abana cyangwa abantu bato bakunze gukunda amata, yaba inshyushyu cyangwa ikivuguto, aho usanga umubare munini w'abantu bajya kugura amata ku ikusanyirizo, aba ari amata y'abana bato, yaba impinja cyangwa abana bari mu kigero cy'imyaka icumi kumanura.

Usibye kuba ku makusanyirizo bacuruza amata, usanga bacuza n'ibinyobwa bitandukanye yaba ikivuguto gitunganywa mu mata y'inshyushyu, icyayi cy'amata cyangwa icya mukaru, igikoma n'ibindi byose wifuza bijyanye n'ibinyobwa cyangwa ibiribwa urabihasanga usibye ibinyobwa bidasembuye ni byo usanga badafite.

Abantu benshi bakunze gusohokera aho bacururiza amata yaba amanyeshuri cyangwa abandi bantu batandukanye, aho bahagana bakeneye amata n'ibindo biribwa bitandukanye bitunganywa mu mafarini bakababa bahajya abagasabana bagasangira.

Amaduka azwiho gucuruza amata usibye kuba bacuruza amata uhasanga n'ibinyobwa bitandukanye. Yaba imitobe, amafanta, n'ibindi bitandukanye urabihasanga kandi baba bafite n'ibiribwa, ushobora kuba wasomeza n'ibinyobwa byose waba watse.

Umubare munini w'abakunda ikinyobwa gitunganya amata kizwi nka yahurute usanga ari abana batoya, aho usanga bagikunda aricyo kintu baba bifuza mugihe icyo aricyo cyose umusabye icyo wamugurira akaba aricyo yakubwira.

Ibiribwa bikunzwe n'abantu benshi bizwi nka masambusa ,biba bikoze mu mafarini n'inyama ziseye n'ibindi birungo bakaranga n'izo nyama .Aho bikunzwe n'abantu benshi bicururizwa mu maduka atandukanye yaba mu ma resitora naha cururizwa amata cyangwa ibindi bitandukanye.

Abagemura amata ku makusanyirizo atandukanye usanga bayagemura mu bicuba cyagenewe kubikamo amata bikozwe mu byuma, aho usanga babigemuramo amata kugira ngo bibafashe kumenya ingano y'amata bahaye uwo mucuruzi, byaba mu malitiro cyangwa ibicuba bamuhaye imibare yayo bakaba bayimenya.

Nko mu muco gakondo wa kinyarwanda, tuzwi ko hakunzwe gukoreshwa ikinyobwa cy'amata ,uruganda rw'i Nyanza ruzi gutunganya amata, rufite amaduka menshi mu gihugu aho ushobora gusanga amata, nibikomoka ku mata bitandukanye, kandi bakunze kuba bafite n'amazi nk'ikinyobwa kinyobwa n'abantu benshi mu ingeri zitandukanye.

Amaduka menshi azwi nk'amakusanyirizo aho usanga bacuruza amata. Usanga hari ububati abikamo ibikombe byabo, ibirahuri cyangwa amatasi. Bityo bikaba byabiririnda kuba byakwangirika bibitse neza. Aha kandi uhasanga n'ibindi binyobwa usibye kuba bafite amata, uhasanga n'ibindi binyobwa by'ubwoko butandukanye.

Hari ibikoresho bikoreshwa n'abacuruza ibintu byinshi bijyanye no gusuka bizwi nk'amasukano bizwi nk'umubirikira, bibafasha kuba basuka ibyo basuka mu gikoresho bakeneye kubisukamo, Yaba akajerekani cyangwa agacupa. Bitamenetse habe nagato Bityo bikaba bibarinda kuba bakwangiriza ibicuruzwa byabo babimena Hasi.

Hari ibyuma byagenewe kubikamo amata usanga ku makusanyirizo menshi aho bifasha kubika amata bikaba byayarinda gupfa.

Utu ni udukoresho dukunze gukoreshwa n'abantu benshi aho bakunze kudukoresha igihe bamaze kurya inyama zafashe mu menyo, bakaba badukoresha bari gukura ibiryo byasigaye mu menyo, amenyo kugira ngo bumve bameze neza, aho dusanga mu maduka menshi atandukanye acuruza ibiribwa, ku buryo baduha abakiriya babo igihe bamaze gufungura.

Hari ibinyobwa bikorwa mu mata biba biri mu dukombe cyangwa mu ducupa bitewe na litiro bifite, bikunze kunyobwa n'abana batoya cyane cyane kuko babikunda ngo biraryoha.

Ahacuruzwa amata uhasanga amajerekani manini ashobora gufasha abacuruzi bitewe n'ingano y'amata umikiriya yifuza, bakaba bayamushyiriramo kugira ngo ayabone ku kigero yayasabyemo.

Ahantu hose bacuruza ibinyobwa bitandukanye, uhasanga ikinyobwa kinyobwa n'abantu benshi, amazi ari mu ngano zitandukanye, yaba mu ducupa dutoya n'amacupa manini, yose aba ahari nk'uko ubyifuza.

Amaduka menshi azwiho gucuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata, bitunganywa n'urwo ruganda cyangwa ibindi byinshi bakora nk'amazi, n'ibindi bitandukanye. Usanaga bafite iduka rinini aho bifasha abakiriya babagana kuba babona aho bicara mu gihe bakeneye amata yo kunywa ako kanya bakaba babazimanira nk'uko babyifuza.

Amakusanyirizo menshi ahazwi nk'acururizwa amata, wasanga amata n'ibitunganywa n'uruganda, cyane cyane usanga amakusanyirizo ari ay'uruganda rw'Inyange.

Abantu benshi bakunze kunywa amata n'amandazi kuko ngo biryoha, cyane cyane abanyeshuri cyangwa abandi bantu benshi aho bagana ku maduka acuruza amata bakaba bakwaka amata y'ikivuguto n'amandazi yo gusomeza.

Ku makusanyirizo menshi ahacururizwa amata, usanga abacuruzi bakoramo bafite amajage yagenewe gufasha gusuka amata neza atamenetse kandi anayafasha gupima amata bitewe n'ingano umukiliya yifuza.

Hari ibikombe biba mu maduka atandukanye ahazwiho gucuruza amata, bikunze kunywebwamo ikiviguto, aho isanga biri mu ngano zitandukanye, yaba ibinini cyangwa ibitoya, bitewe n'ingano y'amata wifuza bagusukira mu kikunyuze.

Ibi ni ibiribwa bitunganwa mu ifarini, usanga birimo n'isukari ihagije, biryohera abatari bake mu gihugu, yaba abakuru cyangwa abatoya kandi bukunze kuba byasomezwa n'amata kuko ngo biryoha cyane kandi iyo ubiriye wumva umeze neza.

Amaduka acuruza amata y'Inyange n'ibindi bitegurwa n'urwo ruganda usanga akora kugeza ninjoro aho bifasha abakiriya babagana kuba babona ibyo bifuza mu gihe icyo aricyo cyose amasaha yose ukeneye ibicuruzwa by'Inyange ugana mw'ayo maduka ukaba wabigura.

Amaduka menshi acuruza amata, acuruza n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, yaba imitobe, amazi n'ibiribwa by'ubwoko bwinshi, wahasanga ibyo waba ukeneye byose ku giciro cyiza.

Amakusanyirizo menshi azwi nk'ahacururizwa amata usanga hari abakiriya benshi yaba abifuza ibinyobwa bicuruzwa naya makusanyirizo cyane cyane abahagana benshi baba bifuza amata y'inshyushyu aho bayacuruza kungano iyariyo yose bitewe n'amata wifuza bashobora kuyaguha.

Ahacururizwa amata hakunze kuba hari ibyuma bibikwamo amata kugira ngo agumane umwimerere akaba atakangirika habe na gato, aho usanga hariho utwo bavomeramo ayo mata bikayarinda kuba yameneka.

Abantu benshi bakunze kugura amata yo kunywa igihe bari ku rugendo cyangwa mu gihe cya karuhuko nyuma y'akazi, aho bakunze kugura na keke kugira ngo bazisomeze ayo mata, basubire mu kazi bameze neza cyangwa abanyeshuri basubire kwiga bumva bameze neza.

Ibi ni ibiribwa bitunganywa mu ifarini n'ibirayi bikunzwe n'abana n'abantu bakuru bikunzwe kuba bitunganywa ku muhanda mu masaha ya nijoro cyangwa mu gitondo aho usanga bigurwa n'abantu benshi mu ngeri zitandukanye bizwi nk'ibiraha bikunze kuba birimo ibirayi bikozwe mu ifarini.

Amaduka acuruza amata usanga hari ibyuma bibikwamo amata biyarinda kuba yapfa kandi ugasangamo ibindi binyobwa bitandukanye yaba ibikorwa mu mata cyangwa ibindi binyuranye, ibi byuma bishyirwamo amata bifasha umucuruzi wayo kuba yayasuka neza atamenetse.

Uruganda rwa Mukamira rufite amaduka n'ahandi henshi hacururizwa ibicuruzwa byabo kandi bazwiho gutegura amata harimo ibintu bitandukanye yaba arimo imbuto, amata asanzwe cyangwa andi arimo ibintu bitandukanye nk'amashokora n'ibindi byinshi.

Capati ni ikiribwa gikunzwe n'ingeri zose mugihugu cy'u Rwanda aho usanga bazitunganyiriza kumihanda mumasaha ya nimugoroba cyangwa mugitondo kugirango bifashe abakeneye ibyo kurya bya mugitondo babibone hafi kandi muburyo bworoshye.

Uruganda rwa Muakamira ruzwiho gutunganya amata rufite n'ibindi binyobwa n'ibiribwa bikorwa mu mata, yaba ikivuguto cyangwa ibizwi nka yawurute bikunzwe n'abana batoya ubisanga mu maduka menshi, amaresitora cyangwa amalimantasiyo aho uba usanga bicuruzwa ku biciro bitandukanye bitewe naho wakiguriye.

Amaduka menshi acuruza ibinyobwa bitandukanye, cyane cyane ahacururizwa amata, usanga bafite ibyuma byagenewe gushyirwamo ibinyobwa kugira ngo umukiriya ubikenye bikonje abe yabibona.

Abantu benshi bacuruza amata, usanga bayagemurirwa n'amapikipiki yagenewe kubagemurira amata ku maduka yacu. Haba hariho ibicuba cyangwa amajerekani, uburyo bwiza bwo kubagezaho amata, uburyo bwiza, bwihuse kandi budatinze.

Ahantu henshi hacururizwa amata, uhasanga ibikombe n'ibirahure biri mu ngano zitandukanye kandi bikoze binyuranye, aho ushobora kwaka igikombe waba wifuza bitewe n'ingano y'amata ukeneye.

Hari uburyo inganda zitunganya amata cyangwa ibikomoka ku mata babibika neza mu makarito, cyangwa ibindi byagenewe kubika ibyo binyobwa, bipanze neza kandi bikeye ,kuburyo bigaragarira neza umukiriya akaba yabigura.

Ibi byuma bibikwamo amata aho acururizwa, birinda amata kwangirika cyangwa bikayafasha kuba yamara igihe kinini atarapfa; kugira ngo abakiriya bayasange akimeze neza.

Uruganda rw' i Nyanza ruzwiho gutunganya amata n'ibindi byinshi bikorwa mu mata, rufite amaduka amaduka menshi atandukanye mu gihugu aho usanga amata n'ibikomoka ku mata bitandukanye n'ibindi binyobwa byinshi bitegurwa n'urwo ruganda cyangwa ibyo mu zindi nganda.

Hari udukoresho tumeze nk'udutebo usanga ahacururizwa ibiribwa bitandukanye cyangwa amata, gufasha abacuruzi babyo kuba baha abakiliya babo serivise nziza, aho hatererwamo udupapuro, bifashisha mugihe bafata ibiribwa, cyangwa bakaba babashyiriramo ibiribwa bifuza ibyo ari byo byose.

Hari ibyuma bibikwamo amata biri mu ngano zitandukanye yaba ibinini cyangwa ibitoya aho usanga ku makusanyiririzo ahacururizwa amata hari ibyo byuma mu kigero gitandukanye aho bifasha abakiliya cyangwa abacuruzi kuba babika ayo mata bitewe n'ingano bafite bakaba bayabika mu ibyo byuma kandi neza.

Amaduka menshi azwiho gucuruza amata, cyangwa ibikomoka ku mata uhasanga ibinyobwa bitandukanye yaba amazi, cyangwa ibindi byose bikorwa mu mata.

Uruganda rw'inyange rufite amaduka menshi mu gihugu, aho usanga bacuruza amata y'inshyushyu cyangwa ay'ikivuguto n'ibindi binyobwa bitunganya mu mata, cyangwa ibindi byose bitegurwa n'urwo ruganda rw'inyange.

Uruganda rw'Inyange, rizwiho cyane cyane mu gutunganya amata y'inshyushyu, rufite amaduka menshi mu gihugu, aho ushobora kubagana igihe ukeneye amata, cyangwa ibindi bicuruzwa byose bitegurwa n'uruganda rw'Inyange.

Ikivuguto gikorwa mu mata y'inshyushyu, gikunzwe n'abantu benshi mu gihugu, aho usanga abagicuruza bafite abakiliya benshi babagannye, bashaka ayo mata y'ikivuguto.

Usibye kuba amaduka acuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata, uhasanga n'ibiribwa bitandukanye bikorwa mu mafarini, yaba amandazi, keke, amacapati, n'ibindi byinshi bitandukanye ushobora kubyaka mu gihe ukeneye icyo gusomeza ayo mata watse.

Abantu benshi bakunze kujya ahacururizwa amata, ari nshuti cyangwa abakorera ahantu hatandukanye, bakaba bakwaka amata yo kunywa ako kanya, baba bari mu rugendo cya mu kazi, bakaba babaha n'ibindi biribwa bashobora gusomeza ayo mata.

Abantu benshi yaba abakuru cyangwa abatoya bakunze kunywa ikinyobwa kizwi nk'amazi kuko kizwi nk'isoko y'ubuzima, aho gikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu kandi tugisanga ahazwi nk'ahacururizwa amata cyangwa mu maduka menshi atandukanye.

Ahazwi nk'ahacuruzwa amata uhasanga n'amakeke akunze kugurwa n'abantu benshi baguze amata, akaba yafasha mu buryo bwo gufungura neza kuko ngo biryoha kandi iyo ubifashe nk'amafunguro uhava umeze neza kandi wumva mu nda hari icyagiyemo.

Mu makusanyirizo hazwi nkahacururizwa amata uhasanga bafite abakiriya benshe! Barya ibiribwa bitandukanye Yaba ibitetse cyangwa ibikomoka kumafarini banywa amata cyangwa ibindi bitandukanye mugihe kibiruhuko cyangwa mugihe bitegura gusubira mu kazi bari kuruhuka.

Ibi ni ibiribwa bizwi nk'amasambusa aho ubisanga mu maduka atandukanye aho ushobora kubugira ku giciro cyiza bitewe naho wabiguriye , bikunze kuba bikoze mu mafarini n'ubunyama buseye bukaranze aho ushobora kubisanga bitunganye mu muryo bwiza, hari n'ibindi kandi bimeze nk'ibi bikunze kuba birimo inyama ziseye n'amagi.

Amaduka menshi azwiho gucuruza amata y' uruganda rw' inyange usangayo abantu benshi, barangije gufungura, aho usanga banywa amata, mubikombe bitandukanye ,bitewe n' ingano y' amata wifuza, bayaguha mugikombe cyakunyuze Kandi wahasanga n' ibiribwa bitandukanye, kuhasanga hicaye abantu benshi banywa amata.

Amazi yo gukoresha mu rugo nk'amazi yo kunywa, uyasanga ahantu henshi hacururizwa amata kuko akunze kugurwa n'abantu benshi kugira bayakoreshe nk'amazi yo kunywa, aba ari mu bicupa binini bishyirwa ku cyuma bavomaho cyangwa ayo kuvomaho, aba ariho akarobine gatoya kagufasha kuvoma amazi mu gakombe ukaba wayanywa.

Amakusanyirizo azwi nkahacururizwa amata, usanga hari ibyuma byagenewe kubika mo amata, bino byuma birinda amata kuba yakwangirika, akaba yapfa, ku buryo ashobora no kumara igihe kinini atarangirika habe nagato.

Mu maduka azwiho gucuruza amata usanga hari ibirahure biri mu ngano zitandukanye bitewe n'amafaranga ufite, bagupimira amata ingano angana n'amafaranga wishyuye kandi bakaba bagutegurira n'ibiribwa bitandukanye bitewe n'ibyo wifuza.

Ibi ni ibyuma byagenewe kubikwamo amata akaba yamara igihe kinini atarangirika aho ushobora gushyiramo amata waguze, ukaba wayabikamo, bityo bikayarinda kuba yapfa akamara igihe akimeze neza.

Abana bakunda kunywa amata, yaba inshyushyu, ikivuguto kandi bakunze kuyanywesha keke, ikiribwa gikozwe mu ifarini kuko biraryoha cyane kunywa amata na keke.

Ahacururizwa amata, usibye kuba wahasanga amata, uhasanga n'ibindi binyobwa bitandukanye, yaba amazi, imitobe, ibikomoka ku mata bitandukanye, cyangwa ukaba wahasanga n'icyayi, n'ibindi byinshi.

Ibi ni ibikoresho bikozwe mu byuma abantu benshi bakunze kugemuramo amata, aho bayacururiza aho bibafasha kuba bamenya ingano y'amata bazanye, nko kubara ibyo bicuba cyangwa bakaba bamenya litiro bamugemuriye.

Ku makusanyirizo menshi cyane cyane ay'uruganda rw'inyange usanga hari ibyuma byagenewe kubikamo amata bino byuma bifasha amata kuyarinda kuba yapfa cyangwa ngo yangirike, usanga hari n'amajerekani bitewe n'ingano wifuza bagupimira mu kajerekani kangana n'ayo ukeneye.

Uruganda rwa Mukamira ruzwiho gutunganya amata riri mu nganda ziri mu gihugu cy' u Rwanda. Rufite amaduka menshi mu guhugu, usibye kuba bacuruza amata uhasanga n'amazi ategurwa n'inganda zitandikanye yaba uruzwi nka Nili cyangwa Bere ukaba wahasanga n'imitobe myinshi itandukanye.

Ibi ni ibinyobwa bikunzwe n'abana benshi, ku mubare munini w'ababinywa, aho wabisanga mu maduka menshi atandukanye acururizwamo amata, kuko ariho hacururizwa ibinyobwa bitandukanye, cyangwa mu maduka menshi atandukanye, ukaba wabigura ku giciro kiza kandi kinyuze.

Umubare munini w'abantu, yaba abantu bakuru cyangwa abanyeshuri cyangwa urubyiruko, usanga bakunze kunywa amata n'ikiribwa gikozwe mu ifarini kizwi nka keke kuko ngo biryoha cyane, igihe ubifashe kandi uva aho bicururizwa wumva umeze neza kandi nta kindi wifuza mu gihe cyi'biruhuko cyangwa nyuma y'akazi igihe ukeneye gufungura.

Abantu benshi bacuruza amata mu maduka i atandukanye ari mu gihugu, bakoresha amajage abafasha mu gusuka amata bayapimira abakiliya babo bitewe n'ingano yayo bifuza.

Inganda zitunganye amata cyangwa ibikomoka ku mata usanga usibye kuba bakora amata bakora n'ibindi bintu bitandukanye yaba ikivuguto cyangwa ibizwi nka foromaje bikunzwe n'abantu benshi bikorwa mu mata y'inka.

Keke ni ikiribwa gikunzwe n'abantu benshi mu gihugu aho ugisanga ahantu henshi hacuruzwa amata kuko ngo ari ikiribwa kiryoha mu gihe ugisomeza amata kandi igihe ugifashe wumva umeze neza kandi wumva uhaze.

Capati ni ikiribwa gikunzwe n'abantu benshi, bakunze kukinywesha icyayi mugitondo, nk'ibyo kurya bya mugitondo, cyangwa bakaba bakinywesha amata, bitewe n'uko ubyifuza, kuko ngo ni ikiribwa kiryoha cyane.

Ahantu henshi hazwi nk'ahacururizwa ibikomoka ku nka yaba amata cyangwa ibindi byinshi, uhasanga n'ibindi biribwa bitandukanye bituruka ku matungo nk'amagi, amata yinshyushyu cyangwa ibindi byose bitunganywa mu mata.

Abantu benshi bakunze kujya hacururizwa amata bajyanye amajage aho babapimiramo amata bifuza gukoresha murugo ibintu bitandukanye ibyo baba bifuza byose bashobora kubikoreshamo amata

Umubyeyi ukora ahacururizwa amata hazwi nk'amakusanyirizo, aho uhasanga hari ibyuma bibikwamo amata, ubujerekani n'ibindi biribwa bitandukanye n'ibinyobwa. Ushobora kuhagana igihe ukeneye amata yo kunywa ako kanya cyangwa ayo gukoresha mu rugo, yose barayaguha nk'uko ubyifuza.

Amandazi akaranze neza kandi akozwe mu ifarini nziza akunze gukundwa n'abana cyangwa abantu batandukanye, aho usanga baka ngo ayisatuye ngo niyo aba ahiye neza.

Uruganda rw'inyange ruzwiho gutunganya ibintu bitandukanye, yaba amata, amayawurute, imitobe itandukanye, amazi n'ibindi byinshi, kandi mu maduka y'izo nganda uhasanga n'ibiribwa bitandukanye ushobora kuba wasomeza ibyo binyobwa.

Amata yateguwe neza abana barayakunda kuyanywa cyane ngo kuko araryoha kandi aba afite n'isuku muri yo cyane cyane amata yo mu nganda.

Ahazwi nk'acururizwa amata uhasanga n'ibindi ibinyobwa yaba inshyushyu, ikivuguto, icyayi, imitobe itandukanye ibyo waba wifuza byose ushobora kubihasanga bitewe n'ubwoko bw'ikinyobwa wifuza.

Ibi ni ibiribwa bikunzwe n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda, bikunze kwitwa ibiraha, bitunganywa mu ifarini, bagafata ibirayi bakabishyira mo imbere, bakabikora mu buryo bwa mpande eshatu, aho bikunzwe n'abantu benshi kandi usanga bicuruzwa ku giciro cyiza kandi gitoya.

Mu makusanyirizo menshi aho bacuruza amata yaba ayo kunywa cyangwa yo kujya gukoresha ibintu bitandukanye mu rugo, usanga hari ibikombe bitandukanye mu bwoko bumwe na bumwe yaba ibinini cyangwa ibitoya, aho kandi usanga hari imashini zibafasha gupima amata ku kigero ukeneye.

Amaduka menshi azwiho gucuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata usanga bafite ububati bubafasha kuba babika ibintu byabo. Yaba ibiribwa, ibikombe cyangwa ibirahure bitandukanye aho kandi ushobora kuhasanga amazi n'imitobe n'ibindi binyobwa bitandukanye bitegurwa n'uruganda rutunganya ayo mata.

Ahacururizwa amata cyangwa ibikomoka ku mata, uhasanga hari amata afunze mu ngero zitandukanye: yaba mu bujerekani buto, mu bukombe, amajerekani manini cyangwa n'utujerekani turinganiye; uko waba ubyifuza kose barabiguha, ku ngano ukeneye.

Ahantu henshi bacuruza amata uhasanga n'ibiribwa bitandukanye, ushobora kwaka mu gihe ukeneye amata ukaba wasomeza, bikunze kuba bikoze mu mafarini, yaba imigati, amandazi, na keke, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Nyanza ni uruganda ruherereye mu karere ka Nyanza, ruzwiho gutunganya amata n'ibikomoka ku mata bitandukanye, aho usanga mu gihugu cy'u Rwanda hari amaduka menshi acuruza ibicuruzwa bitunganye n' urwo ruganda, uhasanga amata y'inshyushyu, ikivuguto n'ibindi byinshi bitunganywa mu mata.

Ahacururizwa amata, usanga hari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, yaba imbuto, nk'imineke, amacunga n'ibindi byinshi, cyangwa ukahasanga ibiribwa n'ibinyobwa by'ubwoko bwinshi, butandukanye.

Uruganda rw'inyange usibye kuba rutegura amata cyangwa amazi bategura n'imitobe itandukanye yaba ikorwa mumatunda, mumyembe, mumacunga n'ibindi byinshi hakaba nikindi kinyobwa kirimo imbuto zose zivanze.

Abantu benshi mu gihe bari kunywa amata bakunze kuyasomeza keke kuko ngo biryoha cyane yaba abana cyangwa abantu bakuru bakunda kubikora, kuko ngo biraryoha kandi iyo umaze kubirya wumva umeze neza.

Uruganda ruzwiho gutunganya amata rwa Nyanza, rufite amaduka menshi acuruza amata n'ibikomoka ku mata bitandukanye kandi ukunze kuhasanga n'ibiribwa by'ubwoko bwinshi bitunganwa mu mafarini.

Hari amaduka menshi mu gihugu aho usanga bacuruza amata mu bujerekani butandukanye bitewe n'ingano y'ayo wifuza yaba akajerekani kanini, agatoya cyangwa akaringaniye bitewe n'ingano y'amata wifuza bayaguha ku kigero ushaka.

Abantu benshi bacuruza amata usanga hari intebe zo kubakiriraho n'abakiliya bakeneye amata yo kunywa ako kanya, igihe bari ku rugendo cyangwa bavuye mu kazi, aho usanga hari intebe n'imeza bicaraho, bakaba babakiriza ibinyobwa bifuza n'ibiribwa byose bakeneye.

Ubujerekani bw'umweru, ubujerekani bukunze kugurirwamo amata. Abantu benshi bakunze kudukoresha aho bajya kudukamishirizamo cyangwa bakadushyiramo amazi yo kunywa mu ngo zabo.

Abantu benshi usanga bicaye mu maduka azwiho gucuruza amata aho baka amata ku ngano bifuza n'ibiribwa bikunze kuba bahacururizwa cyane cyane ibikomoka ku mafarine, ukaba wakwaka ibyo wifuza ukaba wabifungura ukahava umeze neza.

Ahacururizwa amata, cyane cyane ikivuguto, usanga gipimye mu ngeri z'ubujerekani zitandukanye, yaba ubujerekani bwa litiro zirindwi, litiro eshatu cyangwa enye, n'ubwa litiro imwe, bitewe n'ayo wifuza, baguha mu kajerekani kangana n'ayo ukeneye.

Ahantu henshi mu byuma byagenewe gushyirwamo ibinyobwa usanga harimo ibinyobwa bikorwa mu mata hongewemo n'imbuto zitandukanye, aho usanga biri mu ngano zitandukanye yaba mu dukombe dutoya ducupa bitewe n'ingano wifuza barabiguha.

Hari uburyo bwiza, aho usanga ahantu bacuruza amata hari ubujerekani mu ngano zitandukanye bitewe n'ingano y'amata wifuza, bakaba bayaguha ku kigero wifuza

Ahacururizwa amata hakunze kuba hari amajage ari mu ngano zitandukanye afasha abacuruzi mu gusuka amata cyangwa mu kuyapima bitewe n'ayo umukiriya yifuza.

Hari amaduka menshi y'uruganda rw'Inyange aho usanga ibicuruzwa by'urwo ruganda cyane cyane hakunze kuba hacururizwa amata n'ibindi binyobwa byose bitegurwa n'urwo ruganda yaba amata, amazi n'ibindi byinshi bitandukanye.

Uruganda rw'Inyanza ruzwiho gutunganya amata yaba inshyushyu, ikivuguto n'ibindi binyobwa bikorwa mumata bikunzwe n'abana, ushobora kugana amaduka yabo ari mugihugu, ahantu henshi hatandukanye bakaba baguha amata yaba ayo kujyana murugo cyangwa ayo kunywa ako kanya mugihe uyakeye.

Uruganda rw'inyange rutunganya ibinyobwa: yaba amata, imitobe, amazi n'ibindi bitandukanye; usanga rwaragejeje mu maduka yarwo amazi yo gukoresha mu rugo cyangwa ayo wanywa uri ku rugendo, n'ibindi bitandukanye.

Hari amaduka menshi y'uruganda rw'inyange aho usanga ibintu byinshi bitegurwa n'urwo ruganda cyane cyane amata, uhasanga kandi n'imitobeikorwa mu mbuto zitandukanye itegurwa n'urwo ruganda kandi uhasanga n'ibiribwa bitandukanye bikorwa mu mafariri.

Abantu benshi bakunze kugana amakusanyirizo bifuza kugura amata, aho usanga bafite amajage cyangwa amajerekani, utujerekani duto cyangwa utunini bitewe n'amata yifuza kugira ngo bamusukiremo, abe yayajyana mu rugo ayakoreshe ibyo yayaguriye ibyo ari byo byose.

Umubare munini w'abantu usanga bagura amata ku makusanyirizo, usanga ari abana bato baba batumwe n'ababyeyi babo amata yo gukoresha mu rugo ibintu bitandukanye yaba ayo gutekamo icyayi, ayo guha abana bato kandi usanga banacuruza amazi yo mu bicupa binini agurwa byo gukoresha mu rugo nk'amazi yo kunywa.

Mu Rwanda hari amaduka menshi azwiho gucuruza amata, aho usanga bacuruza n'ibindi binyobwa bitandukanye, yaba ibikorwa mu mata, imitobe n'ibindi byinshi bitandukanye, ushobora kuhasanga kandi n'ibiribwa waba wifuza ibyo ari byo byose.

Abantu benshi bakunze kugurira amata ku makusanyirizo acururizwaho aho uhasanga amata ku kigero wifuza bitewe n'ingano y'amata ukeneye ushobora kuba wababwira bakaba bayaguha ku giciro kiza nk'icyagenywe n'uruganda rutunganya ayo mata.

Usibye kuba ku makusanyirizo bacuruza amata, uhasanga kandi n'amazi yo kunywa mu rugo, aho uyasanga mu majerekani atandukanye atunganwa n'uruganda rwa jibu, ruzwi mu gihugu mugutunganya amazi, usibye kuba wahasanga amata wahasanga n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Ibicuba bikoze mu byuma, bikunze gutwarwamo amata, kugira ngo biyarinde kuba yemeneka cyangwa ngo yangirike, kandi bigafasha abacuruzi b'amata kumenya ikigero cyangwa ingano y'amata bahaye umucuruzi uyacuruza.

Uruganda rwa Mukamira ruzwiho gutunganya amata cyangwa amazi, rufite amaduka menshi acururizwaho ayo mata mu gihugu aho ushobora kubaganaho igihe ukeneye amata, yaba menshi cyangwa ayo kunywa ako kanya bakaba babigufashamo kandi baba bafite n'ibribwa bitandukanye.

Amaduka menshi ucuruza amata ubusangamo n'ibinyobwa bitandukanye yaba imitobe amafanta nibindi byinshi kandi bakunze kuba bacuruza n'ibiribwa by'ubwoko bwinshi cyane cyane ibikoze mu amafarini, bacuruza amata, ibikomoko k'amata yaba amayahurute, ikivuguto nibindi byinshi.

Igihe wifuza amafaranga yao ariyo yose yaba ayo mu gihugu cyangwa hanze y'igihu, ushobora kugana aho bavunjisha amafaranga bakaba baguha ayo wifuza bitewe n'ayo ufite bakaba baguha ayo ukeneye nkuko ubyifuzo yaba yo mu Rwanda cyangwa mu mahanga, ibihugu biri hafi y'u Rwanda cyangwa ibitari hafi y'u Rwanda.

Waba wifuza kuvunja amafaranga y'abanyamahanga mu Manyarwanda cyangwa Amanyarwanda mu manyamahanga, ushobora kugana ibiro bibishinzwe mu gihugu byinshi bitandukanye, bakaba bakuvunjira amafaranga bitewe n'ayo wifuza ku kiguzi kikunyuze kijyanye n'imvunjisha, yaba kugura cyangwa kugurisha.

Hari uburyo bwashyizweho aho ushobora kwaka inguzanyo kuri banki ukoresheje murandasi aho ubusanga kuri banki zitandukanye mu gihugu ukaba waguza amafaranga wifuza akaba yakugeraho ukaba wayakoresha icyo wifuza.

Amasoko menshi agiye acuruza ibiribwa yaba imboga n'ibindi byinshi nk'imbuto, usanga harashyizweho uburyo bwo korohereza abakiliya babo aho ushobora kwishyura umucuruzi ukoresheje konti yawe ya banki, cyangwa telefone yawe ngendanwa.

Umuyoboro wa emutiyeni ufite ibyicaro byinshi mu gihugu, aho waba uri hose ukifuza kugana ikicaro urakihasanga muri buri gace, aho bashobora kugufasha muri serivise zitandukanye waba ukenye.

Umuyoboro wa emutiyeni ufite abakozi benshi mu gihugu, bafasha abakiriya babo cyangwa abakoresha uwo muyoboro, aho ubasanga mu duce twose turi mu gihugu, bakaba bagukemurira ikibazo waba ufite, waba wifuza kugura amayinite, kubitsa amafaranga, cyangwa kubikuza.

Usibye kuba abakozi bo mu miyoboro itandukanye bafasha, ananyarwanda, bakunze kuba bafasha n'abanyamahanga, ku bibazo bagize kuri uwo muyoboro waba wifuza kubitsa amafaranga, kubikuza, kugura amayinite n'ibindi byinshi wfuza kuri uwo muyoboro.

Usanga mu buzu bwinshi butangirwaho serivisi z'umuyoboro wa mtn bacuruza n'ibindi bikoresho bitandukanye yaba amatelefoni, ushobora kugerayo wifuza kubitsa amafaranga cyangwa kubikura kugura minte n'ibindi byinshi bitandukanye waba ukeneye.

Emutiyeni yashyizeho uburyo bwiza ku bakiriya babo aho usanga serivise cyangwa umukozi wabo aho waba uri hose mu gihugu akaba yagufasha ku kibazo runaka waba ufite ku muyoboro.

Serivise ku muyoboro wa emutiyene zarorohejwe, kuko bafunguye ibyicaro byinshi kandi n'abakozi babo bakorera mu duce twinshi mu gihugu, aho ushobora kumugana akaguha serivise wifuza izo arizo zose, mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Umurongo wa eyeteri washyizeho amashami yawo menshi, aho wasanga serivise zabo: yaba gutanga amayinite cyangwa izindi serivise waba ukeneye, cyane cyane hari na terefone nshyashya bazanye zitwa ikosora, nazo barazitanga aho ngaho.

Abantu benshi bakunze kugana ku byicaro bya Emutiyeni, bakeneye gukemurirwa ibibazo bitandukanye, yaba uwayobeje amafaranga, uwataye simukadi, haba hari abakozi babigufashamo mu buryo bworoshye, ukaba wagarurirwa amafaranga wayobeje cyangwa bakaba bagukorera swapu kuri simukadi yawe wataye.

Mugihe ukeneye serivise kumuyoboro wa emutiyene, ushobora kugana umukozi waho ukorera mukazi gato kumuhondo akaba yagufasha mukibazo ufite ukeneye kugura amayinite, kubitsa amafaranga cyangwa kubikura.

Utu ni utwapa tuba mu maduka menshi mu gihugu dukorana na serivise zo kwishyura ukoresheje kode; aho usanga hariho imibare, umuyoboro wagenewe umucuruzi, ushobora kumwishyuriraho amafaranga.

Umuyoboro wa emutiyeni, washyizeho uburyo bwiza bwo kwamamaza, aho usanga ibyapa byamamaza umuyoboro mu duce dutandukanye mu gihugu, cyangwa abambaye imipira yabo iriho ibikorwa byinshi na serivise zose batanga.

Amasoko menshi cyangwa acuruza ibintu bitandukanye, usanga hari uburyo bwiza bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho wishyura ukoresheje telefoni yawe, ukaba wakwereka umucuruzi ko amafaranga yamugezeho kubutumwa butoya umuyoboro wa emutiyeni uguha.

Iyi ni imibare yagenewe abacuruzi cyangwa abatanga serivise zitandukanye, aho usanga bafite imibare itandukanye bitewe n'igihe bayifatiye, iyi mibare igufasha kwishyura umukiliya kandi ku mafaranga wishyura ntakindi kiguzi cyiyongeraho.

Ubu hashyizweho uburyo bworoshye, aho serivise zishobora guhanahana ziva ku muyoboro wa eyateli, zijya ku wa emuyiyene, cyangwa ziva ku muyoboro wa emutiyene, zijya ku wa eyateli. Kuko byarorohejwe, ushobora no kohereza amafaranga mu buryo bworoshye.

Abakozi b'umuyoboro wa MTN, bakunze gukorera mu duce dutandukanye tw'igihugu, bari kwamamaza cyangwa batanga serivisi ku bakiriya babo, aho ubasanga ahantu henshi mu gihugu, bari mu bukangurambaga cyangwa bamamaza umuyoboro wa MTN.

Umuyoboro wa emutiyeni washyizeho abakozi babo mu duce dutandukanye mu gihugu, aho ushobora kubagana igihe ukeneye kubitsa amafaranga, kubikura, cyangwa ibindi bitandukanye kandi usanga bagufasha no mu bindi bitandukanye nko kugura amayinite, cyangwa ibindi waba wifuza.

Umuyoboro wa eyateri washyizeho uburyo bworoshye, aho ushobora gusanga serivise zose waba wifuza ku muyoboro wa eyeteri, aho waba uri hose mu gihugu kandi bazanye terefone nziza zikunwe n'abantu benshi zigurishwa amafaranga make, aho usanga bafite abakiriya benshi bakeneye izo terefone z'ikoranabuhanga.

Mu byicaro cyangwa ahatangirwa serivise z'umuyoboro wa emutiyeni, uhasanga ibyapa byinshi bitandukanye, biba byamamaza ibihembo cyangwa serivise umuyoboro wa emutiyene waba utanga, zinyuranye.

Mu byiciro by'umuyoboro wa MTN, usangamo abakiriya benshi yaba abakeneye kwiyandikishaho imiyoboro mishya, kwibaruzaho simukadi bataye cyangwa ibindi byose, usanga baganye ku cyicaro kugira ngo bakemure ibibazo byose bafite.

Serivisi zose wababa wifuza ku miyoboro ya MTN ushobora kugana aho wabona umukozi wabo hose mu gihugu, cyane cyane abakorera mu tuzu dutoya turi ku mihanda itandukanye mu gihugu, akaba yagufasha muri serivisi wifuza iyo ariyo yose.

Waba wifuza kugura simu kadi, kubitsa amafaranga cyangwa kuba wabaza uburyo bwo gukura amafaranga yawe kuri banki uyashyira kuri terefone; wagana umukozi w'umuyoboro wa emutiyene bakorera ku mihanda yose akaba yabigufashamo.

Abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni bashobora kugufasha mu gihe ukeneye kugura amayinite, kohereza amafaranga, kubitsa cyangwa kubikura. Cyangwa ibindi byose waba wifuza bijyanye n'umuyoboro wa emutiyeni byose babigukemurira.

Ubu byaroroshye aho wagurira ibyo ukeneye byose, ushobora kwishyura ukoresheje terefone yawe umucuruzi mu gihe afite uburyo bwo kumwishyuriraho ukaba wamwishyuraho amafaranga ukoresheje terefone yawe akaba yagera kuri terefone ye.

Aho wagurira ibicuruzwa bitandukanye usanga hari uburyo bworoshye bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho babaha imibare y'umucuruzi ukaba washyiramo iyo mibare n'umubare w'amafaranga ugomba kwishyura ugashyiramo umubare w'ibanga amafaranga akaba yagera ku mucuruzi.

Umuyoboro wa eyateri, wazanye telefone zigurwa n'abantu benshi, usanga ziri ku giciro gitoya, aho usanga bafite abakiliya benshi baje kuzigura kuko ngo zigura make kandi ziba ziriho amayinite amara igihe.

Abakozi b'umuyoboro wa MTN bakorera mu tu dutoya tw'imihondo duherereye ku mihanda yose mu gihugu, usanga bafite abakiriya benshi baje kwaka serivisi zitandukanye, aho usanga bamwe bagura amayinite, abandi babitsa amafaranga cyangwa babikuza.

Amaduka menshi cyangwa amasoko acuruza ibintu bitandukanye, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibindi byinshi, usanga barashyizeho uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga aho ushobora kwishyura ukoresheje konti yawe ya banki cyangwa kwishyura ukoresheje terefone ku miyoboro ya MTN.

Ahantu henshi umuyoboro wa MTN usanga ukorana n'uwa Airtel aho ubagana bakaguha serivise zose wifuza kuko byorohejwe ushobora ushobora no kwakira amafaranga avuye kuri Airtel avuye kuri MTN.

Amasoko cyangwa amaduka menshi atandukanye akorana na serivise y'imiyoboro ya MTN aho byafashije abakiriya babagana kuba bakwishyura badatwaye amafaranga mu ntoki yaba ari kuri banki uyohereza kuri simukadi yawe ukaba wakwishyura umucuruzi.

Umuyoboro wa MTN usanga uri gutanga ubukangurambaga, mu bice bitandukanye mu gihugu cyangwa bamamaza uwo muyoboro wabo, aho utanga serivisi zitandukanye ku baturage babagannye, bakaba bagufasha muri byinshi bitandukanye ku muyoboro wa MTN.

Aha ushobora kuhagana mu guhe ukeneye kuba wakemurirwa ibibazo bitandukanye aho ushobora kumubaza ikiguzi ushobora kwakwa mu gihe uri kubikuza amafaranga waba wifuza kubikuza ukaba wayabikura uzi ayo uri bwishyure ku kiguzi cyo kubikuza.

Abakozi b'umuyoboro MTN bari henshi mu gihugu, usanga baha abakiya babagana serivisi nziza, waba ukeneye ikarita ushobora guhamagariraho cyangwa wagura interneti ku buryo wifuza, ubisanga ku biciro bitandukanye, aho ushobora kubagana ku mafaranga yose waba ufite, bakaba baguha serivisi y'amayinite wifuza ku buryo bwiza kandi bworoshye.

Aho wagana hose hari icyicaro cyangwa umukozi w'umuyoboro wa emutiyeni yaguha serivisi ku muyoboro, izo waba wifuza zose cyangwa akaba yagukemurira ibibazo byose waba ufite kuri serivisi z'umuyoboro wa emutiyeni.

Hari uburyo bwashyizweho bwo kwamamaza umuyoboro wa emutiyeni aho usanga hari abantu bari ku mihanda basusurutsa abantu ushobora kuba wabaguraho telefone simukadi n'ibindi byose waba wifuza, aba bashyizweho mu buryo bwo kwamamaza umuyoboro wa emutiyeni.

Umuyoboro wa emutiyene ukoreramo abanyarwanda n'abanyamahanga batandukanye, bashobora kugufasha mu serivise waba wifuza, waba ufite ikibazo ku muyoboro cyangwa kuba wakwiyandikishaho simukadi nshya.

Ku cyicaro cy'imiyoboro ya Emutiyeni, usanga hari abakiriya benshi baje bafite ibibazo bitandukanye; aho baba baje kureba abo bakozi, kugira ngo babafashe ku bibazo bafite.

Umuyoboro wa Mtn washyizeho uburyo butandukanye aho wakwakira amafaranga ukanayohereza bitagombye kuba wajya ku mabanke bityo abantu benshi bakaba barakunze iyo serivise.

Umuyoboro wa MTN utanga serivise zitandukanye, waba ukeneye kugura telefone, n'ibindi bikoresho byinshi by'umuyoboro wa MTN, ushobora kubasanga ku byicaro byabo, cyangwa ahandi hantu hose baba bari gukorera hatandukanye mu gihugu.

utu tuzu tw'umuyoboro wa emutiyeni dutangirwamo serivisi zitandukanye yaba kubitsa amafaranga, kubikura, kuba wakohereza umuntu amafaranga cyangwa ukaba wagura ama inite n'ibindi byose bitandukanye waba wifuza ku muyoboro wa emutiyeni wabihasanga mu buryo bwiza.

Ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho ushyira iyo mibare yagenwe y'umucuruzi muri telefoni yawe, ukaba wareba ko ibaruye ku izina ryagenwe kuri ako kapa, ukaba washyiramo amafaranga ukishyura.

Aho wasanga serivisi zitandukanye, ushobora kwishyura ukoresheje umuyoboro wa MTN, aho haba hari imibare yagenwe, yaba iya telefone cyangwa iyo kwishyurirwaho, weho nk'umucuruzi uyiha umukiriya, akaba yakwishyura amafaranga.

Ubu ushobora kubitsa, kubikura, kugura amayinite ukoresheje telefone yawe bitagusabye kujya kuyacuruza, ukoresheje konti yawe y'imiyoboro wa MTN, igiye iriho amafaranga, byose urabyikemurira.

Umuyoboro wa Emutiyeni ukomeje gutanga serivisi nziza ku bakiriya babo, aho usanga ahantu hose wagera hari umukozi w'umuyoboro wa Emutiyeni, utanga serivisi izo ari zo zose ku muyoboro, aho ushobora gufashwa ibyo waba ukeneye byose, mu buryo bworoshye.

Umuyoboro wa MTN usibye kuba utanga serivise usanga kandi ucuruza n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, yababa telefoni ngendanwa n'ibindi ushobora kuba wakoresha nka interinete, mu rugo nabyo urabihasanga ku giciro kiza.

Umuyoboro wa emutiyeni washyizeho uburyo bworoshye, aho ushobora gukura amafaranga ku ikarita yawe ya banki ukaba wayashyira kuri simukadi yawe, bino bikaba byagufasha kwishyura serivisi wahawe cyangwa ibindi byose waba waguze ku giciro cyagenwe cyo kwishyura ukaba wakwishyura ibyo wahashye.

Aho wakwakira aho ariho hose yaba esanse cyangwa ibindi bikenerwa n'ikinyabiziga, hashyizweho uburyo bwiza bw'umuyoboro wa Mtn aho babagenera imibare ushobora kwishyuriraho ingano ya esanse wanyweye bitewe n'amafaranga yagenwe yo kwishyura.

Abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni usanga bakorera mu tuzu dutandukanye turi mu duce twinshi mu gihugu, aho baba bafasha abakiliriya babo igihe bagura amayinite cyangwa babitsa amafaranga bakoresheje telefoni zabo ngendanwa, aho usanga bafite abakiriya benshi bifuza gukemurirwa ibintu bitandukanye.

Ushobora kuba wabona serivisi zose wifuza kumuyobo.

Umuyoboro wa MN washyizeho uburyo ku bakiriya babo, aho ushobora kuba wagura ibicuruzwa bitandukanye ku giciro cyiza kandi ukaba wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Usibye kuba ku miyoboro itandukanye haganwa n'abanyarwanda, n'abanyamahanga bakoresha umuyoboro bari mu gihugu bashobora kuhagana mu gihe serivise zitandukanye, yaba yifuza kugura telefone, simukadi cyangwa kuba yabitsa amafaranga cyangwa kuyabikuza.

Ushobora kugana ahatangirwa serivisi zitandukanye, yaba ku muhanda cyangwa ahandi hose uzabona akazu kameze gutyo, hatangirwa serivisi ku miyoboro ya Emutiyene, yaba kubitsa amafaranga, kubikuza cyangwa ukaba wakoherereza umuntu amfaranga.

Mu miyoboro wa MTN ufite ibyiciro bitandukanye mu gihugu, aho wagana hose baguha serivisi waba wifuza kuri uwo muyoboro yaba ku bijyanye n'amafaranga cyangwa ibindi bitandukanye.

Ubu ni ubuzu bukoreramo abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni, aho ushobora kubagana ho igihe wifuza kubitsa amafaranga, kubikura, cyangwa n'ibindi bitandukanye nko kugura amayinite, n'izindi serivisi zose waba wifuza ku uwo muyoboro, urazihasanga.

Igihe ukeneye serivise zinyuranye waba ukeneye kubitsa amafaranga kubikura n'ibindi bitandukanye ushobora kuba wagana umukozi w'umuyoboro wa MTN uri mubice bitandukanye mugihugu akaba yagufasha mubyo ukeneye yaba kugura ama inite n'ibindi byinshi wifuza.

Abantu benshi usanga bari ku bakozi b'imiyoboro ya MTN bakeneye gukemurirwa ibibazo bitandukanye, aho usanga bamwe bataye simukadi zabo, bayobeje amafaranga cyangwa ibindi byinshi bitandukanye.

Abancuruza ibiribwa by'ubwoko butandukanye, usanga bakorana n'umuyoboro wa Emutiyeni, kuko ubashyiriraho uburyo bwo kwishyura ku bakiriya babo bakoresheje ikoranabuhanga, bakaba babona amafaranga mu buryo bworoshye.

Umuyoboro wa MTN usibye kuba utanga serivise kumuyoboro washyizeho n'uburyo ushobora kuguriraho terefone n'ibindi waba wifuza bicuruzwa nuwo muyoboro aho usanga bafite abakiriya benshi kandi hariho n'uburyo ushobora kwishura terefoni mu kiciro yaba mu gihe cy'ukwezi cyangwa cy'umwaka izwi nka makemake ni serivise nziza bageneye abakiriya babo.

Abacuruzi benshi bari mu gihugu ku muyoboro wa Emutiyeni wabahaye imibare ushobora kubishyuriraho aho umuyoboro wa Emutiyeni ubaha imibare yagenwe iba ibaruye ku mazina y'umucuruzi aho ushobora kwishyura serivisi wahawe cyangwa ibicuruzwa waguze ukoresheje terefone yawe ndendanwa ku giciro gitoya kandi nta mafaranga na makeya wishyuye kuri iyo serivisi.

Umuyoboro wa Eyateri washyizeho uburyo bwinshi, aho wagiye ushyira ibyicaro byawo ahantu hatandukanye mu gihugu, aho ushobora kubagana bakaguha serivisi zose waba wifuza ku muyoboro wa Eyateri cyangwa ibindi byose bitandukanye.

Mu gihe ukeneye kubitsa amafaranga cyangwa kubikura n'ibindi bitandukanye bisaba amafaranga, ushobora kugana umukozi w'umuyoboro wa emutiyene, uba wambaye agapira k'umuhondo akaba yabigufashamo.

Igihe ukeneye kwiyandikishaho simukadi nshya cyangwa kwiyandikishaho iyo wataye kugarura amafaranga wayobeje n'inindi bitandukanye nko kugura amayinite ugana umukoziw'umuyoboro wa MTN uri mu duce dutandukanye mu guhugu akaba yabigufashamo.

Igihe wifuza serivise ku muyoboro wa MTN, uzasanga abakozi bakorera mu tuzu dutoya turi ku mihanda, dukunze kuba turi mu mabara y'umuhondo, hari ibyapa byamamaza umuyoboro wa MTN, aho uzasanga afite abakiriya benshi bifuza serivise zitandukanye, akaba yagufasha icyo wifuza, icyo ari cyo cyose.

Umuboro wa emutiyeni washyizeho uburyo bwiza buzwi nka ayoba, aho ushobora kuba wakohereza umuntu ubutumwa bugufi bitagusabye kuba ufite amayinite, aho ukoresha apurikasiyo kandi bageneye n'ibihembo ku bakiliya babo, aho ubasanga bamamaza icyo gikorwa mu duce dutandukanye.

Utu tuzu usanga dukoreramo abakozi b'umuyoboro wa MTN aho ushobora kubagana igihe ukeneye kugura amaiyinite, kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza kandi bakaba bagufasha mu gihe ukeneye koherereza umuntu amafaranga mutegeranye ukoresheje telefone yawe ngendanwa.

Hari kandi ubundi buryo bwashyizweho bw'ikoranabuhanga, aho usikana akantu kaba karimo kode z'umucuruzi, ukaba wamwishyura mu buryo bworoshye; amafaranga akaba yamugeraho nta kibazo.

Igihe wishyuye ukoresheje ikoranabuhanga, wemezamo imibare y'umucuruzi wishyuriraho, aho washyiramo amafaranga ugomba kumwishyura bitewe n'ari kuri terefone yawe, ukaba wamwishyura amafaranga yakubwiye ugomba kumwishyura, akaba yamugeraho mu buryo bworoshye.

Igihe ukeneye kubitsa amafaranga, kugura amayinite, cyangwa kuba wakemurirwa ikibazo cyose waba wagize ku muyoboro wa emutiyeni, ushobora kugana abakozi babo bakorera mu tuzu tw'umuhondo turi ahantu benshi mu gihugu bakaba bagufasha mu kibazo cyose waba ufite.

Abakozi b'umuyoboro MTN bari henshi mu gihugu aho usanga bakorera mu imitakako y'imihondo cyangwa mu tuzu tw'imihondo, aba bagufasha muri serivisi zose waba wifuza, waba ukeneye kubitsa amafaranga, kubikura cyangwa kuba wakoherereza umuntu amafaranga mutegeranye.

Umuyoboro wa emutiyeni ufite abakozi benshi mu gihugu aho usanga bafasha abakiriya babo kuri serivise bifuza, yaba mu bibazo bafite cyangwa kubitsa amafaranga, kubikura, kugura amayinite n'ibindi byose bifuza nka serivise kuri iwo muyoboro.

Iyi mibare ni iyagenewe umucuruzi cyangwa utanga serivise zitandukanye, ino igufasha kwishyura ukoresheje telefone yawe, mu gihe cyo kwishyura kuri nimero, wishyura ku iyi mibare binagufasha kuba wakwishyura ntakiguzi na kimwe usabwe.

Umuyoboro wa MTN wafashije abantu benshi uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho baha abacuruzi batandukanye n'imibare yo kubishyuriraho yaba serivisi cyangwa ibicuruzwa waba wabaguriye.

Ushobora kuba wabitsa amafaranga, kubikuza cyangwa kugura amayinite aho wagana umukozi ukorera m'utuzu dukunze kuba turi kumihanda twa MTN.Akaba yaguha ibyo wifuza byose Kandi hari nabamwe nabamwe bashobora kuba bagufasha kw'iyandikishaho simu kadi nshya.

Ushobora kugana ku bakorera muri utwo tuzu tuba turi ahantu benshi mu gihugu dukoreramo abakozi b'umuyoboro wa MTN, aho ushobora gusanga serivisi zose waba bifuza ku muyoboro, waba ugura amiyinite, ubitsa cyangwa ubikuza amafaranga.

Umuyoboro wa Emutiyeni washyizeho uburyo bworoshye bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho usanga aho bacuruza, ahatangirwa serivisi izo ari zo zose, hari utwapa turiho imibare y'umucuruzi ushobora kwishyurira ho ukoresheje telefone yawe.

Muri Nyabugogo ahazwi nkahategerwa ingendo zitandukanye bitewe naho ugiye uhasanga serivise z'umuyoboro wa eyateri cyangwa indi miyoboro yose aho ushobora kubikura amafaranga kuyabitsa cyangwa ukaba wayohereza.

Ahantu henshi ushobora gusanga umukozi w'umuyoboro wa Emutiyene, uhasanga n'utanga serivisi ku muyoboro wa Eyateri, aho ushobora kuba wafashwa muri serivisi wifuza, waba wifuza kubitsa amafaranga, kubikura n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni bakorera mu tuzu tw'umuhondo tuba turi ku mihanda itandukanye usanga bafite abakiliya benshi yaba abagura amayinite, ababitsa amafaranga cyangwa ababikuza, cyangwa mu gihe wakiriye amafaranga, cyangwa ukeneye koherereza umuntu amafaranga mutegeranye ukoresheje telefone.

Usibye kuba ufite simukadi cyangwa ibindi bikorana n'umuyoboro wa Emutiyeni ushobora kuba wakishyura ukoresheje telefone yawe ngendanwa, aho ushyira umubare wawe wibanga mu rubuga rwabigenewe ukaba wakishyura bitagusabye kuba ufite simukadi ya telefone yawe.

Umuyoboro wa MTN umaze kuba isonga mu gihugu, aho usanga ufite abakiriya benshi yaba ku byicaro cyangwa ahatangirwa serivise ku miyoboro wa MTN kuko baba bafite ibibazo bitandukanye cyangwa bifuza kuba babitsa amafaranga cyangwa bayabikuza.

Abacuruzi benshi bacuruza ibintu bitandukanye yaba imyambaro, ibiribwa cyangwa ibindi bikoresho bitandukanye umuyoboro wa MTN wabashiriyeho uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga aho ushobora kwishyura ukoresheje telefone yawe ngendanwa icyo ukora ni ukwemeza imibare yagenwe y'umucuruzi ugashiramo umubare w'amafaranga ukaba wamwishyura.

Umuyoboro wa emutiyeni washyize abakozi babo mu duce twinshi dutandukanye mu gihugu, aho ushobora kubagana igihe ukeneye serivise zinyuranye, waba ukeneye kubitsa amafaranga, kubikura cyangwa kuba wakohereza umuntu amafaranga.

Mu masoko menshi cyangwa ahacururizwa imboga, yaba intoryi, amakaroti, umucri n'ibindi bitandukanye, usanga abacuruzi bafite uburyo bwo kwishyura ukoreresheje ikoranabuhanga aho ufata ibicuruzwa wifuza ukaba wishyura kuri nimero z'umucuruzi.

Abakozi b'umuyoboro wa Mtn, bakorera mu tuzu dutandukanye turi mu gihugu aho waba uri hose ushobora kutubona, batanga amayinite, bakabitsa amafaranga, bakabikuza n'ibindi bitandukanye.

Ushobora kuba wabitsa amafaranga kubikura cyangwa ukaba wakohereza amafaranga avuye kuri konte yawe ya banki akaba yajya kuri terefone yawe cyangwa kugura amayinite n'ibindi byose bitandukanye ukoresheje terefone yawe.

Umuyoboro wa MTN ugenewe abacuruzi benshi mu gihugu, imibare umukiriya wabo ashobora kubishyiraho, yaba mu bucuruzi cyangwa utanga serivisi zitandukanye, ubu buryo bufasha abakiriya babo kwishyura nta kiguzi na kimwe bishyuye ku mafaranga yagenwe yo kwishyura.

Umurongo MTN yashizeho amashami menshi yawo aho wasanga serivise zabo harimo gutanga amayinite, kugurisha amasimukadi kubayashaka no kubaha izindi serivise zitandukanye mu buryo babyifuza bo kubakemurira ibibazo byose baba bagize.

Abakozi b'umuyoboro wa emutiyene bamaze kuba benshi mu gihugu nk'uburyo bwiza bwo gufasha abakiriya babo, aho waba uri hose ushobora kubona ugufasha muri serivise wifuza cyangwa kugukemurira ikibazo waba wagize gitandukanye k'umuyoboro wabo wa emutiyene.

Utuzu dutoya dukunze kwitwa kiyosiki, ushobora gusanga ahantu henshi mu gihugu, dutangirwamo serivisi zitandukanye, yaba iza banki, serivisi z'irembo cyangwa ukaba wahishyurira imisoro n'ibindi byinshi bitandukanye.

Mumugi wa kigali hari abakozi benshi bo mumiyoboro ya MTN aho wanyura hose kumihanda urahabasanga serivisi izarizo zose waba wifuza baraziguha kumiyoboro ya MTN nkuko ubyifuza cyane cyane usanga bakorera mumasoko.

Umuyoboro wa eyateri washyizeho uburyo bworoshye kandi bwiza ku bakiriya bayo, aho ushobora kugura amayinite bakaguha inyongera, waba uguze pake yo gukoresha kuri eterinete, bakaba baguha n'amayinite y'ubuntu kandi amara ukwezi nayo.

Igihe utwawe n'umuntu ku kinyabiziga kizwi nk'ipikipiki akuvana mu gace kamwe akujyana mu kandi ntuzagire ikibazo na kimwe igihe udafite amafaranga mu ntoki kuko hashyizweho uburyo bworoshye ushobora kwimwishyura ukoresheje telephone yawe mu gihe ufite amafaranga ku ikarita yawe y'umuyoboro wa MTN.

Igihe uguze essance cyangwa ibindi bikoresho bikenerwa n'ikinyabiziga ntuzagire ikibazo na kimwe kuko amasitatiyo menshi cyangwag ahacururizwa ibitandukanye bikenerwa n'ikinyabiziga, ushobora kwishyura ukoresheje terefone yawe ibyagenwe n'umuyoboro wa MTN, aho ushobora kwishyura kuri terefoni yawe ngendanwa, kuri nimero zagenwa z'umucuruzi amafaranga akaba yamugeraho nta kibazo.

Mugihe wifuza amayinite ntibikiri ngombwa kugana umukozi w'umuyoboro wa emutiyeni kuko ukoresheje telefone yawe ngendanwa ushobora kuyagura muburyo bwiza kandi bwihuse ukoresheje amfaranga ari kuri fone yawe cyangwa kuri konti yawe ya banki.

Mu masoko menshi cyangw ahacururizwa ibintu bitandukanye, wasanga uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga wishyuriraho ukoresheje telefone yawe ngendanwa, ukaba wakwishyura umucuruzi iibyo wahawe.

Ubu ntibikiri ngombwa ko ukoresha simukadi yawe kuko ushobora kwishyura ibyo wahawe ukoresheje apurikasiyo y'umuyoboro wa emutiyene ukaba wakwishyura ibicuruzwa waguze cyangwa izindi serivise zose wahawe.

Abakozi b'umuyoboro ba MTN babashyize ahantu hose, aho ushobora kubagana bakaba baguha serivise ukeneye waba ukeneye kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikura.

Hari ibyicaro by'umuyoboro wa Airtel aho usanga bacuruza telefone zabo n'ibindi bitandukanye nka simu card, cyangwa ukaba wahagana mu gihe ufite ikibazo ku muyoboro, abakozi babo bakaba bakigufasha.

Ushobora kubitsa amafaranga, kuyohereza, kugura amayinite, cyangwa ibindi bitandukanye ukoresheje umuyooro wa emutiyene, aho ushobora gusanga abakozi b'uwo mu yonboro aho waba uri hose mu gihugu bakaba bagufasha muri serivise yose wifuza.

Umuyoboro wa Mtn wageneye abacuruzi n'abatanga serivisi zinyuranye imibare ushobora kubishyuriraho nta kiguzi watswe aho usanga mu maduka menshi cyangwa ahatangirwa serivise harimo utwapa turiho iyo mibare wakwishyuriraho.

Aha wagurira ibicuruzwa bitandukanye, cyangwa uhawe serivise zose wifuza, ushobora kwishyura ukoresheje telefone yawe ndendanwa, kuko haba hari imibare yagenwe y'umucuruzi ushobora kumwisyuriraho y'ibicuruzwa waguze cyangwa serivisi wahawe.

Emutiyene yorohereje abakiliya babo, aho waba uri hose wahabwa serivise wifuza ku muyoboro kuko hari abakozi benshi mu gihugu, bakorera uwo muyoboro, aho waba uri hose urahabasanga.

Umukozi w'umuyoboro wa emutiyene, ushinzwe kureba abakozi bakorera mutuzu duto cyangwa mu mitaka akaba yabaha ibyo baba bifuza yaba amayinite cyangwa ibindi bibafasha guha serivise abakiriya babagana.

Umuyoboro wa emutiyeni worohereje abakiriya babo, aho waba uri hose mu gihugu ushobora kuhasanga serivise ku muyoboro wa emutiyene waba ukeneye kubitsa amafaranga, kubikura. Aho waba uri hose mu gihugu, wabona umukozi w'umuyoboro wa emutiyeni wabigufashamo.

Umuyoboro wa eyateli kandi washyizeho uburyo bwiza bwo kubitsa amafaranga kuri telefoni ngendanwa, cyangwa kuyabikura, aho ushobora kuba wagendana amafaranga bitagusabye kuyatwara mu ntoki, kuko hari uburyo bw'ikiranabuhanga, uyabitsa kurya telefoni yawe ngendanwa.

Ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho ukoresha terefone yawe ngendanwa yaba intoya cyangwa inini, kuko amaduka menshi aba afite imibare yo kwishyuriraho y'umucuruzi. Aho ushobora kwishyura amafaranga yagenwe no kwishyura ukoresheje terefone yawe ngendanwa.

Ubu ni uburyo bw'umuyoboro wa Emutiyeni, aho ushobora kwishyura ukoresheje telefoni yawe, wishyura amafaranga ufiteho kuri telefoni; icyo ukora: ni ugushyiramo akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, rimwe, akanyenyeri, rimwe, akanyenyeri, ugashyiraho nimero z'umuntu ukeneye kwishyura, akanyenyeri, ugashyiraho amafaranga, ukemeza, ukaba washyiramo umubare w'ibanga; ukaba wishyuye uwo ukeneye kwishyura ukoresheje telefoni.

Igihe ufite ikibazo ushobora kugana umukozi w'umuyoboro wa emutiyeni, akaba yagukemurira ikibazo cyose waba ufite kumuyoboro, cyangwa akaba yaguha serivise zose waba wifuza cyangwa akaba yakurangira aho ushobora kuziharirwa.

Umuyoboro wa MTN washyize ibyicaro byinshi mugihugu muduce dutandukanye aho ushobora kugana ikicaro cyose cyaba cyikwegereye bakaba baguha serivise wifuza waba ubitsa amafaranga uyabikura ugura ama inite cyangwa wohereza umuntu amafaranga mutegeranye.

Uburyo bwiza bwo kwamamaza umuyoboro wa emutiyeni, usanga mu gihugu hari ibyapa byinshi byamamaza serivise zitangwa n'uwo muyoboro, yaba kugura amayite, kubitsa amafaranga cyangwa kohereza amayinite, kohereza amafanga n'ibindi bitandukanye, ubisanga ku byapa byamamaza uwo muyoboro wa emutiyeni.

Hari uburyo bwiza bwaje kandi bworoshye aho ushobora kugura ibicuruzwa wifuza ukaba wabyishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho ushyira apurikasiyo muri telefoni yawe ukaba wakwishyura ukoresheje iyo apurikasiyo bitagusabye gukoresha simukadi yawe kuko icyo ukora nugushyiramo umubare wibanga ukaba wakwishyura ibyo wahawe byose.

Hari imbuga nyinshi ushobora gusangaho ibiri ku isoko by'ubwoko bwinshi aho gusanga inzu zikodeshwa ibikoresho bikoreshwa n'ibindi byinshi bishakirwa abakiliya.

Ikoranabuhanga ryoroheje ibinti byinshi, aho ushobora kuba wagurira ibicuruzwa ku ikoranabuhanga, ku mbuga zabugenewe, aho ureba ko ibyo wifuza biriho, ukaba wabigura.

Hari amaduka menshi akorera ku mbuga nkoranyambaga, aho ushobora kuhagurira imyambaro y'abagore kuko hari amaduka menshi yagenewe kuba acuruza imyambaro y'abagore, ushobora kuba wahagurira amakanzu, imipira itandukanye cyangwa ibindi byose bitandukanye byambarwa n'abagore.

Aba n'abatwara amapikipiki agemurira abantu ibirirwa aho batuye aho usanga bakorana n'amaresitora atandukanye mu gihugu ugiye utumije ibiribwa wifuza baguha utwara ipikipiki umwe ukaba wa murangira aho utuye akaba yakugezaho mu rugo ntakibazo.

Ushobora kuba wacuruza ibicuruzwa byawe ku ikoranabuhanga cyangwa ukaba wagura ibyo wifuza, icyo ukora n'ugusura imbuga zagenewe gucuruza ibyo bicuruzwa, ukaba wareba ibyo wifuza niba biri giciro wifuza ,ukaba wabigura.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga aho ushobora kugurira ibyo wifuza ku mbuga zabugenewe; icyo ukora wandikamo ubwoko bw'igicuruzwa wifuza, ukaba wakibona ku giciro, ukaba wakigura.

Amaduka menshi akorera ku ikoranabuhanga yashyizeho uburyo bwo kugezaho abantu ibicuruzwa baguze bakabibasangisha mu rugo, aho igihe umukiriya ahisemo ibyo yifuza ashobora kubyishyura, akohereza imyirondoro ye naho atuye bakabimuhezaho murugo.

Ushobora kuba watumiza ibintu waba wifuza byose yaba ibikoresho cyangwa imyambaro ituruka mubihugu bitandukanye aho usura imbuga z'ibyo bihugu ukaba wahitamo ibyo wifuza, icyo ukora nukwishyura ukaba wabaha imyirondoro y'igihugu uturukamo bakaba babigusangisha mugihugu utuyemo.

Ushobora kuba wagurira ibiribwa ku mbuga nkoranyambaga, aho usanga kuri murandasi hari amaduka menshi cyangwa ameresitora atunganya ibiribwa bitandukanye, yaba inyama cyangwa ibindi byose wifuza, ukaba wakumvikana ibiciro bitewe n'ibyagenwe kuri izo mbuga, ukaba wakwishyura, bakabikugezaho mu rugo aho utuye.

Ushobora kuba wagura imyenda inkweto, ibikoresho by'ikoranabuhanga, yaba iby'imiziki, ibyoza, ibikoresho bitandukanye byo murugo cyangwa imyambaro bizwi nk'ibifura, n'ibindi byose waba wifuza ushobora kubihagurira.

Abo ni abakozi bakorana n'amarestora atandukanye, azwiho mu gutunganya ibiribwa, aho ushobora kuba wabagana cyangwa ukaba wabahamagara bakagutunganyiriza ibiribwa wifuza, bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye, babikugemuriye ku ipikipiki.

Ushobora kugura ibicuruzwa bitandukanye bitewe n'ibyo wifuza ku ikoranabuhanga, kandi ikiyongeyeho bashobora kubikugezaho murugo aho utuye, icyo ukora ni ukuba wahitamo ibicuruzwa ukeneye bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye nta kibazo na kimwe kandi byihuse.

Ushobora kurangurira ku mbuga nkoranyambaga, aho usanga hariho imbuga nyinshi zirangurizaho ibicuruzwa, aho ushobora guhitamo amapaki waba wifuza y'ibyo waba wifuza byose, ubwoko bw'ibyo ukeneye ukaba wabigura.

Igura n'igurisha ryarorohejwe kuko hari imbuga nyinshi ziro kuri murandasi ushobora kuguraho ibyo wifuza byose cyangwa ukaba wacuruzaho ibicuruzwa byawe, aho ubishyiraho n'ibiciro byabyo ukaba wabona umukiriya ubikeneye mukaba mwakumvikana ibiciro akaba yabigura.

Ikoranabuhanga ryoroheje ibintu byinshi, aho ushobora kuba wagurira ibintu kuri murandasi yaba ibiribwa cyangwa ibindi byose wifuza, icyo ukora usura imbuga bicururizwaho ukaba wahitamo ibyo wifuza ukaba wabigura bakabikugezaho mu rugo cyangwa ukagana amaduka bicururizwaho bakaba babiguha.

Akarwa ni iduka rikorera ku mbuga nkoranyambaga, uru rubuga ushobora kurusura mu gihe ukeneye ibyo waba wifuza byose, waba kugura cyangwa kugurisha, usangayo ibicuruzwa bitandukanye ukaba wakumvikana na nyirabyo ukaba wabigura.

Igihe uri guteka cyangwa uri mu rugo, amazi akaba yagushirana cyangwa gazi yifashishwa mu guteka, hashyizezweho uburyo bwiza bworoshye, aho ushobora guhamagara iyo mibare iri aho bakaba bakugezaho gaze igihe igushiranye cyangwa amazi yo kunywa mu rugo.

Ushobora kugurira ibikoresho by'ikoranabuhanga, imyambaro cyangwa ibikapu ku mbuga nkoranyambaga zabugenewe ziri kuri murandasi, aho uzisura ukaba wabona ibicuruzwa bitandukanye n'ibiciro byabyo, ukaba wagura ibikunyuze bitewe n'igiciro wifuza.

Ubucuruzi bwo ku mbuga nkoranyambaga usanga hariho ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibiribwa, iby'ubwiza, n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bitewe n'ibyo wifuza, urabisura, ukaba wahitamo ibyo ukeneye, ukaba wabigura.

Ubu ni uburyo bwashyizweho aho ushobora gutumiza ibintu ku maduka abicuruza yaba ibiribwa, imyambaro n'ibindi bitandukanye ukaba wabarangira aho utuye utwara ipikipiki wagenewe kugemurira abantu ibicuruzwa baguze aho batuye akaba yabigusangisha mu rugo.

Ushobora kuba wagurira kandi ibikoresho cyangwa ibiribwa byagufasha mu gutunganya ibiribwa mu rugo, byaba amashu, imineke, amakaroti, imbuto zitandukanye nk'amacunga, amavuta yo guteka n'imboga, igihe bitewe n'ibyo ukeneye byagufasha gutunganya ibiribwa mu rugo.

Amaresitora menshi ari mu gihugu yashyizeho uburyo bwiza ku bakiliriya babo aho ushobora kuba watumiza ibiribwa wifuza, icyo ukora ubabwira ibyo ukeneye bakabigutunganyiriza bakaba babikugezaho mu rugo bitwawe ku mapikipiki yabugenewe ashinzwe kugemurira abantu ibiribwa batumije aho batuye.

Hari uburyo bwiza ushobora kuguriraho ibicuruzwa wifuza yaba imyambaro itandukanye iyo kujyana ahantu, iyo gutemberana n'ibindi byose bitandukanye.

Vuba Vuba igemurira abantu ibiribwa aho batuye yaba ibitetse cyangwa ibidatetse, ushobora no gutumizaho kandi ibyagufasha mu guteka yaba amavuta, imboga n'ibindi byose bitandukanye bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye.

Aba ni abakora umwuga wo kugemurira abantu ibiryo batuye, baba batumije ku maresitora atandukanye, aho umukiriya yandika, akaba yababwira ubwoko bw'ibiribwa akeneye, bakaba babigusangisha mu rugo aho utuye.

Hari uburyo bwashyizweho bwo kwamamaza serivisi ya vuba vuba, iba ishobora kukugezaho ibyo waguze ku ikoranabuhanga bakaba bagusangisha mu rugo, aho usanga bakorera ahantu henshi mu Mujyi wa Kigali, icyo ukora ni ugutumiza ibyo ukeneye bakaba babigusangisha mu rugo aho utuye.

Ushobora kugura imyambaro n'ibindi bikoresho bitandukanye yaba amashati, imipira, amapantaro inkweto n'ibindi wifuza, aho usura imbuga zagenewe gucuruzaho ibyo bi imyambaro, ukaba wabigura ku giciro cyiza, kandi kikunogeye.

IPOSITA ritanga serivise yo kwakira ubutumwa no kubwohereza bityo rero kubera abantu benshi bayigana iba yarashyizeho uburyo butandukanye bwo kohereza no kwakira ubwo butumwa byihuse bikabagereraho mu gihe bakabyakira mu gihe.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga buri kuri murandasi, aho usanga hari imbuga nyinshi zicuruza ibicuruzwa bitandukanye, yaba mu Budage cyangwa muri

Amasoko menshi acuruza imboga usangamo abacuruzi benshi aho ushobora kuhasanga ibitoki n'ibindi biribwa bitandukanye yaba ibijumba cyangwa imboga n'ibindi byinshi byagufasha gutunganya ibiryo igihe uri mu rugo.

Ubu ushobora kugurira ibyo waba wifuza byose ku ikoranabuhanga, aho ugana imbuga zibicuruza, ukaba wahitamo ibyo wifuza, ku giciro kikunogeye, ukaba wabigura, ibyo waba wifuza byose urabisanga kuri izo mbuga nkoranyambaga zibicuruza.

Mu gihe utumije ibintu ku ikoranabuhanga uvugana nugiye kubikugezaho ukaba wamubwira aho utuye, mukaza muvugana ukamurangira akaba yabikugezaho mu rugo nta kibazo ntakimwe ukaba warifata.

Mugihe uri murugo wifuza guhaha kandi udakeneye kuva murugo, ushobora gusura imbuga zagenewe gucururizwaho ibyo wifuza, ukaba wabigura uri murugo bitagusabye kujya kumaduka abicuruza bakabigusangisha murugo aho utuye.

Ubu byaroroshye aho ushobora kugura ibyo waba wifuza byose yaba imyambaro, ibiribwa n'ibindi bitandukanye, ushobora gusura imbuga zagenewe gucururizwaho ibyo waba wifuza, ukaba wabigura bakabikugezaho mu rugo aho utuye.

Hari imbuga nyinshi ziri kuri murandasi aho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye: yaba ibiribwa, imyambaro, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi, icyo ukora ni ugushyiramo ibyo ukeneye ukaba wareba igiciro cyabyo, ukaba wabigura.

Ushobora kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga, yaba ibigufasha mu mirimo yo mu rugo cyangwa ibigufasha kubika ibiribwa byo mu rugo bityo bikabirinda kwangirika, ku mbuga nkoranyambaga nyinshi z'amaduka akorera mu mujyi wa Kigali, aho ushobora kuhasanga ibyo wifuza ukaba wabigura ku giciro cyiza kikunogeye.

Hari amasoko menshi ari mu gihugu, aho usanga bacuruza imboga zitandukanye, imbuto n'ibindi byose bijyanye n'ibiribwa waba wifuza, yaba inyama, amavuta yo guteka, ibiribwa binyuranye, ibyo waba wifuza byose urabihasanga muri ayo masoko yabugenewe.

Hari uburyo bwinshi bwashyizweho bw'ikoranabuhanga aho uasanga bamamariza ku byapa bitandukanye biri mu gihugu, cyangwa ibyo ibinyabiziga ugasanga biriho ubo buryo bwo gucururiza ku ikoranabuhanga ukaba wagura ibyo wifuza byose.

Igihe utumije ibiribwa ku ikoranabuhanga, ntakibazo nakimwe ushobora kugira kuko uba watanze imyirondoro yawe n'aho utuye, yaba ibiribwa bitetse cyangwa ibidatetse, hari amapikipiki yabigenewe, abikugezaho murugo aho utuye.

Ubu ni uburyo bwo kugezaho abantu ibicuruzwa bikorana n'amaresitora ari mu mujyi wa Kigali, aho ushobora gutumiza ibiribwa wifuza bakaba babigutunganyiriza kandi bakabikugemurira mu rugo aho utuye ku giciro gitoya.

Hari uburyo ushobora gutumizaho ibyo waba waguze ku masoko atandukanye akorera ku ikoranabuhanga, bakaba babikugezaho aho utuye, bitagusabye kujya kubireba ku masoko bicururizwaho, bakabigusangisha mu rugo.

Mu gihe utumije ibintu ku ikoranabuhanga yaba ibiribwa cyangwa ibindi bitandukanye ntuzagire ikibazo na kimwe kuko hari amapikipiki yabugenewe akugezaho ibyo watumije ku ikoranabuhanga, bakaba babigusangisha mu rugo aho utuye.

Imbuga nyinshi cyangwa amaduka menshi atandukanye yashyizeho uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga aho ushobora kugura ibicuruzwa byabo bitagusabye kujya kumaduka yabo, ukoresheje telefone yawe gusa ukaba wagura ibyo wifuza.

Hari imbuga nyinshi ziri kuri murandasi, aho ushobora kuba wabasura, ku mbuga zabo zitandukanye, ukaba wahasanga ibicuruzwa waba wifuza, yaba imyambaro, ku kigero wifuza, aho uhitamo umubare w'ibyo bakugezaho, bakaba babikugezaho mu rugo.

Hari uburyo bwiza bwashyizweho bw'ikoranabuhanga, bukorana n'amaduka menshi acuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho usanga bakorera ku mbuga nkoranyambaga ziri kuri murandasi ukaba wahagurira ibicuruzwa byabo, bitagusabye kujya ku maduka yabo ku giciro cyiza.

Ikoranabuganga ryashizeho uburyo bwiza ku bakiriya babo, amaduka menshi atandukanye, usanga asigaye acururiza ku mbugankoranyambaga, aho baba bafiti imbuga zagenewe gucururizwaho ibicuruzwa byabo, ukaba waziganaho igihe wifuza ibicuruzwa byabo ukaba wabigura.

Hari amasoko akorera ku mbuga nkoranyambaga aho ushobora kugurira imyambaro, ibikoresho by'ikoranabuhanga, n'ibindi byose wifuza aho usanga hariho ibicuruzwa n'ibiciro byabyo kugira ngo umukiriya abone amafaranga agomba kwishyura.

Aba ni abakora umwuga wo kugemurira abantu ibyo baguze ku ikoranabuhanga byaba biribwa, ibinyobwa n'ibindi bitandukanye nk'imyambaro, ibikoresho n'ibindi byinshi bitandukanye.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga aho usura imbuga zicuruza yaba imyambaro n'ibindi byinshi ukaba wahagurira ibyo wifuza ku giciro kiza bakaba babigusangisha mu rugo cyangwa ukaba wareba aho bakorera ukajya kubyifatira.

Hari amasoko menshi acuruza ibiribwa, akorera ku mbuga nkoranyambaga, aho usanga hari imbuga zicururiza, yaba imbuto, n'ibiribwa bitandukanye, nk'ibinyampeke, ibinyamisogwe, n'ibindi byinshi, ukaba wabihagurira, biba biri ku giciro cyiza, bakaba babikugezaho mu rugo.

Iduka Onulayini ni urubuga rukorera ku mbuga nkoranyambaga, aho ushobora kuhagurira ibyo waba wifuza byose. Icyo ukora ni ukureba ko babifite ukareba n'ibiciro byabyo ukaba wabigura.

Ushobora kuba watumiza ibiribwa wifuza ku ma resitora atandukanye, aho ubabwira ubwoko bw'ibyo ukeneye, bakabigutunganyiriza ku giciro cyiza, bakaba babikugezaho mu rugo.

Uburyo bwiza bwashyizweho mu mugi wa Kigali, aho ushobora kuba wagura ibyo wifuza byose kw'ikoranabuhanga, ukaba wabyishyura. Icyo ukora uhamagara aho bitunganyirizwa bakaba babigutunganyiriza, bakabikugezaho mu rugo babikugemuriye.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kuguriraho ibicuruzwa kuri murandasi, yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibiribwa, imyambaro n'ibindi byinshi, icyo ukora ni ugusura izo mbuga ziri kuri murandasi zibicururizwaho, ukaba wagura ibyo ukeneye byose.

Ushobora kuba wagura imyambaro cyangwa ibindi bitandukanye bituruka mu bihugu binyuranye, aho usura imbuga ziri kuri murandasi bicururizwa, ukaba wareba ibiciro byabyo, uka wabigura bitewe n'ibyo wifuza, ku giciro cyagenwe n'amaduka abicuruza.

Ubu byaroroshye ubwo ushobora kuba wagura ibikoresho by' ikoranabuhanga, ushobora kuba wagurisha ibicuruzwa ufite ubishakira abakiriya cyangwa ukaba wahagurira ibyo wifuza ibyo aribyo byose ukoresheje terefone yawe ngendanwa ukajya kuri muri andasi ugasura imbuga bicururizwaho ukaba wabigura.

Vubavuba yari izwiho gutwara ibiribwa kuma pikipiki abakozi babo bamwe nabamwe bahawe amagare y'umuriro abafasha kugemurira abantu ibiribwa, ikizabakubwira baba bambaye impuzankano z'icyatsi bahetse ibikapu cyangwa ibikesi birimo ibiribwa bagemuriye abantu aho batuye.

Igihe ukeneye ibicuruzwa bituruka mu mahanga ntibikiri ngombwa kujya kubigurira ibihugu bivamo kuko hashyizweho urubuga, ibihugu byinshi bicuruzaho, aho ushobora kuba wahashakira ibyo wifuza, ukaba wabitumiza mu gihugu ukeneye bikaba byagusanga aho utuye mu gihugu cyawe.

Usibye kuba wagurira ku ikoranabuhanga imyambaro cyangwa ibindi bitandukanye ushobora kuhagurira nk'ibicuruzwa by'isuku bizwi nk'ibikoresho by'isuku bikunze gukoreshwa n'igitsina gore mu gihe cy'ukwezi kizwi nk'igihe k'imihango.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kuguriraho ibyo waba wifuza mu maduka atandukanye, icyo ukora ujya ku mbuga zabugenewe ukaba wareba ibyo wifuza, ukaba wabigura.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga aho ushobora kugurira ibicuruzwa kuri murandasi kuko hariho imbuga nyinshi zagenewe gucuruza ibyo bicuruzwa aho ubisangaho n'ibiciro byabyo ukaba wahitamo ibyo wifuza ukaba wabyishyura kugiciro cyagenwe.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kugura ibiribwa bitandukanye waba wifuza, yaba imboga zo guteka, imbuto n'ibindi byinshi bitandukanye bijyanye n'ibiribwa urabihasanga.

Ikoranabuhanga ryorohereje ibintu byinshi, kuko hari imbuga zagenewe gucururizwa ibintu bitandukanye yaba inzu zo kubamo, ubutaka, ibinyabiziga, intebe zo mu rugo n'ibindi byinshi bitandukanye, aho usura izo mbuga, ukaba waharebera ibyo wifuza, ukaba wabigura.

Hari uburyo bwashyizweho bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kwamamazaho umushinga wose waba ukora, waba ucuruza ibiribwa, ibinyobwa cyangwa ibindi bitandukanye, usura izo mbuga, ukaba washyiraho ibicuruzwa byawe n'aho ukorera, ukaba wabona abakiriya bifuza ibicuruzwa byawe.

Hari uburyo bwiza bwashyizweho kandi bworoshye, aho ushobora kugurira ibicuruzwa byose wifuza, waba ukeneye kurangura cyangwa ibyo gukoresha mu rugo cyangwa ibyo kwifashisha igihe ubikeneye kuko hari imbuga nyinshi bicururizwaho ku giciro cyiza kandi kinogeye buri wese.

Hari amaduka menshi cyangwa amasoko akorera kuri murandasi, aho baba bafunguye imbuga zicuruza ibicuruzwa byabo yaba iby'imyambarire nk'inkweto aho ushobora guhitamo ibicuruzwa wowe wifuza bijyanye n'inkweto, bitewe n'ubwoko wifuza ukaba wabigura ukoresheje ikoranabuhanga.

Mu buryo bwiza bwo koroshya kuba wava ahantu hamwe ujya ahandi cyangwa mu kujya gutwara ibintu n'abantu hashyizweho abatwara ampikipiki bashinzwe gutwara abantu babavana mu duce tumwe babajyana mu tundi aho batwara abagenzi babaganaho bakaba babageza aho bifuza.

Ushobora kugurira yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, imyambaro y'abagore, imyenda y'abagabo cyangwa inkweto n'ibindi byose wifuza, yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho usura imbuga zagenewe kubicuruzwaho, aho usanga hariho n,ibiciro byabyo ukaba wabigura ku giciro kiza ku buryo bworoshye kandi bwihuse.

Rashi fudu ifasha kugemurira abantu ibiribwa aho batuye, icyo ukora utuma kuri resitora ikunyuze, ukababwira ubwoko bw'ibiribwa ukeneye bakaba babigutunganyiriza bakabigusangisha mu rugo.

Ushobora kugura imiti, imyambaro n'ibindi byose waba wifuza, ubiguze ku ikoranabuhanga. Aho usangaho ibicuruzwa bitandukanye, ukaba wareba ibyo wifuza n'ibiciro byabyo, ukaba wabigura.

Ushobora kuba wagura cyangwa ukagurisha cyane cyane usanga abakorera ku mbuga nkoranyambaga baba bacuruza yaba imyambaro cyangwa ibindi bitandukanye aho ushobora kubasura ukareba ibicuruzwa byabo n'ibiciro byabyo ukaba wahitamo ibikunyuze.

Ku iposita, ahazwi nk'aho wajya gufata ibyo bakoherereje mu mahanga cyangwa wowe ukaba wabagana mu gihe ushaka koherereza umuntu uri mu mahanga, bikaba byamugeraho nta kibazo na gito, igihugu cyose yaba arimo.

Ubu ushobora kwaka serivisi waba wifuza ukoresheje telefone yawe ngendanwa, aho usura imbuga zitanga serivise wifuza, bakaba baguha ibyo wifuza byose ku ikoranabuhanga.

Igihe utumije ibiribwa, ku marestora atandukanye, ntakibazo na kimwe wagira kukubikugezaho murugo, kuko hari abagenewe kuba bakugezaho ibicuruzwa waguze mu rugo babitwaye ku mapikipiki bakabikugezaho mu rugo amahoro.

Ushobora kandi kuba wagura ibiribwa, imyambaro n'ibindi byinshi ku mbuga zabugenewe; ,aho usanga hariho ubwoko bw'imyambaro butandukanye ukaba wahitamo ibyo wifuza ukabigura.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga, ushobora kuguriraho ibicuruzwa wifuza, aho usanga hariho ibicuruzwa bitandukanye n'ibiciro byabyo, ukaba wahitamo ibyo wifuza, ku giciro kikunyuze, ukaba wabigura, ku buryo bwiza kandi bworoshye bitagufashe kujya ku masoko bicururizwa ho.

Iri ni iduka rizwiho gucuruza ibijyanye n'imyambaro by'ubwoko bwinshi, aho usanga bafite imyambaro myinshi Kandi bakorana n'uburyo bw'ikoranabuhanga aho ushobora kuba wagurira imyambaro wifuza kw'ikoranabuhanga bakaba banayikugezaho mu rugo.

Ubu hashyizweho uburyo bworoshye aho ushobora gushakira akazi ku mbuga zabugenewe, aho ushyiramo ubwoko bw'akazi wifuza cyangwa serivise ufitemo ubuzobere gutanga ukaba washyiramo aho utuye ukaba wahabwa ako kazi.

Kigure akadomo rwa ni urubuga rukorera kuri murandasi, aho ushobora kugurira ibiribwa n'imyambaro n'ibindi byose waba wifuza ushobora kuhasanga ubwoko bw'ibiribwa butandukanye, nk'imyambaro, yaba inkweto, n'imyenda isanzwe ku giciro kiza.

Kuri murandasi usangayo imbuga nyinshi zicururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, aho ushobora gusura izo mbuga, ukaba wahitamo ibicuruzwa wifuza, ukaba wabigura kugiciro cyiza kandi bakabikugezaho murugo aho utuye kubuntu.

Usibye kuba watumiza kuri vubavuba ibiribwa bitetse, ushobora no kuhatumiza imboga zishobora kuba zagufasha gutunganya ibiribwa yaba amakaroti, imboga dodo n'ibindi bitandukanye byagufasha gutunganya ibiribwa wafungura uri mu rugo.

Ushobora kuba watumiza ibiribwa mu maresitora atandukanye mu gihugu, ukaba wababwira ubwoko bw'ibiribwa ukeneye, bakabigutunganyiriza, bakaba babiha umukozi wabo ugemura ibiribwa ku mapikipiki uba wambaye impuzangano bitewe n'aho akorera z'amabara atandukanye.

Amasoko menshi usanga akoresha ikoranabuhanga aho ushobora kugura ibyo wifuza yaba ibiribwa, cyangwa ibindi bitandukanye, icyo ukora usura izo mbuga kuri murandasi ukaba wahashakira ubwoko bw'ibiribwa wifuza, ukaba wabigura ku giciro kikunyuze nk'uko ubyifuza.

Ubu bashyizeho uburyo bworoshye aho ushobora kugura ibicuruzwa ku mbugankoranyambaga, aho hari imbuga nyinshi kuri murandasi, ushobora kuguriraho ibicuruzwa wifuza yaba imyambaro, ibiribwa, uburyo bwiza kandi bworoshye, bakaba banabikugezaho mu rugo aho utuye, bitagusabye kujya ku masoko.

Iri ni iduka ricuzura inkweto n'ibijyanye n'imyambarire, aho ureba ubwoko bw'inkweto wifuza ku giciro kikunyuze, ukaba wazishyura, bakaba bazikugezaho mu rugo, ku buntu.

Ubu ni uburyo bworoheje igura n'igurisha aho ushobora gucuruza ibyo waba wifuza gucuruza yaba ibibanza, ibindi bitandukanye, ibinyabiziga ku mbuga nkoranyambaga ukaba wabishakira umukiriya mukaba mwakumvikana akaba yabikugirira.

Usibye kuba hari amaduka akorera ku mbugankoranyambaga, usanga bafite n'amaduka menshi atandukanye mu gihugu, aho ushobora gusanga ibicuruzwa byabo bitagusabye kugurira ku mbugankoranyambaga cyangwa mu gihe wabiguze batabikugejejeho mu rugo ukaba awabasanga mu maduka yabo ari mu gihugu ukaba wababwira ikibazo cyabayeho bakaba babiguha.

Hari amaduka menshi acuruza imyambaro akorera ku mbuga nkoranyambaga aho ushobora kureba ubwoko bw'imyambaro baba bafite niba harimo ubukunyuze ukaba wakumvikana ibiciro ukaba wabigura.

Mu rwanda hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga, ushobora kuguriraho imbuto, n'ibindi bitandukanye waba wifuza bijyanye n'ibiribwa, aho ushobora kureba ibyo wifuza n'ibiciro byabyo ukaba wabigura.

Ushobora kugurira ibiribwa bitandukanye cyangwa ibyagufasha mu gutunganya ibiryo, yaba ibirungo, imboga, inyama, imbuto n'ibindi byinshi ku ikoranabuhanga cyangwa ukaba wabitumiza, bikagusanga mu rugo aho utuye.

Amaduka menshi azwiho mu gutunganya ibiribwa usanga barashyizeho uburyo bwiza ku bakiriya babo, aho bakugemurira ibiribwa mu rugo aho utuye, ababikugezaho baba batwara amapikipiki bambaye n'impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi aho usanga bahetse ibikapu birimo ibiribwa cyangwa ibindi byose waba watumije.

Hari uburyo bwashyizweho bworoshye ku mbuga nkoranyambaga kuba hari imbuga zicururizwaho ibicuruzwa, bitewe n' ibyo ukeneye ujyaho ukabasura ukaba wareba ibyo ukeneye n' ibiciro byabyo cyaba kikunyuze ukabigura.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora kugufasha kugura ibyo waba wifuza cyangwa ukaba kugurisha ibicuruzwa byawe bitandukanye, uko bukora ubishyira ku ikoranabuhanga nk'imbuga zitandukanye ukaba wabishakira umukiliya.

Hari imbuga nyinshi zicuruza ibiribwa n'ibindi bitandukanye ku ikoranabuhanga, aho ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga, ukabisangaho, ukaba wagura ibyo wifuza ku ikoranabuhanga.

Iri duka rya Jumiya rikorera ku mbuga nkoranyambaga, aho ushobora gutumiza ibiribwa wifuza cyangwa ibinyobwa, ukaba wakwishyura bakabikugezaho mu rugo ku buntu.

Ushobora kuba wagura ibyo wifuza ku maduka atandukanye, bakaba babigusangisha mu rugo aho utuye, aho utuma ibyo ukeneye ukishyura, ukaba wababwira aho utuye, ipikipiki ikenewe kugezaho abantu ibintu aho batuye, bakaba babikugezaho mu rugo

Amapikipiki uzasangaho abantu bambaye impuzankano z'icyatsi batwaye n'ibikesi by'icyatsi, baba batanga serivisi zo kugezaho abantu ibiribwa cyangwa ibindi bicuruzwa byose baguze ku ikoranabuhanga, aho ubitumiza bakaba babikugezaho mu rugo byihuse.

Hari uburyo bwiza kandi bworoshye ushobora gusura imbuga ugasangaho ibyo waba wifuza byose kugura, ukaba wareba ibiciro byabyo ukaba wabigura bitagusabye kujya ku masoko ukabigurira mu rugo cyangwa ahandi hose waba uri.

Yego ni umushinga ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, aho ushobora kuba watega utwara ipikipiki akaba yakugeza aho wifuza kandi bafite n'uburyo bwo kwigemurira abantu ibintu aho batuye, iyaba ibicuruzwa baguze cyangwa ibindi byose umuntu akeneye kubagezaho.

Aba ni abashinzwe kugemurira abantu ibiribwa batumije kuri resitora aho batuye, babitwara ku mapikipiki aho usanga bambaye impuzankano zisa bahetse ibikapu birimo ibicuruzwa bashyiriye abakiliya babo baguze, kuri terefone ngendanwa kugira babibagezeho mu rugo.

Hari uburyo ushobora kuguriraho ibicuruzwa cyangwa ukaba wagurisha ku mbuga nkoranyambaga, aho usura imbuga zagenewe gucururizwaho ibyo bicuruzwa. Ukaba wahitamo ibyo wifuza, ukaba wabigura bitagusabye kujya aho bicururizwa.

Amapikipiki aba ariho ibikese inyuma cyangwa ibikapu, akora umwuga wo kugemurira abantu ibintu aho batuye, yaba ibiribwa n'ibindi bikoresho baba baguze ku ikoranabuhanga.

Umubare mwinshi w'igitsina gore batuye mu gihugu cy'u Rwanda usanga bagurira ibicuruzwa bitandukanye yaba amavuta yo kwisiga, amasabune ku mbuga zabugenewe kuko ngo ariho usanga bigura ibiciro bike.

Hari abantu besnhi bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku mapikipiki, aho usanga bambaye cyangwa bafite ingofero z'imituku aba ushobora kuba bagutwara cyangwa bakakoherereza ibicuruzwa waguze ahantu hatandukanye.

Ushobora gucururiza ibicuruzwa byawe ku rubuga rwashyizweho rwo mu gihugu cy'u Rwanda, aho ushyiraho ibicuruzwa byawe ukaba wabishakira umukiriya cyangwa ukaba waguriraho ibindi bicuruzwa bituruka mu muhanga bitewe n'aho wifuza kubigurira.

Mu minsi mikuru cyane mu mpera z'umwaka usanga ku maduka acururiza ku mbuga nkoranyambaga yarashizeho ibihembo kubakiriya babo cyangwa ibiciro byarahananuwe noneho bikaba bifasha abakiriya babo kwizihiza iminsi mikuru neza.

Uyu ni umushinga ushinzwe kuba bakugezaho ibyo bakohereje biturutse mu mahanga, bikakugeraho mu gihugu waba utuyemo cyose, aho babijyana k'uwo mushinga bagatanga imyirondoro yawe n'igihugu ubamo, bakaba bakugezeho ibyo bakohereje.

Mu masoko menshi ahacururizwa ibintu bitandukanye, yaba ibiribwa cyangwa imyambaro ushobora kuba wabagana ukagura ibyo wifuza, kuko bashyizeho uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura ukoresheje konti ya banki amafaranga akaba yagera ku mucuruzi.